Abahagarariye emutiyeni hirya no hino mu gihugu, baba bafite aho babarizwa bagaragaza ibirango by'iryo shami bakorera rya emutiyeni, bakagira ibyapa bamanika kugira ngo bigaragaze igiciro umuntu acibwa agiye kohererereza undi amafaranga kandi bakagira n'ikayi bandikamo umwirondoro w'uwaje abagana.

Amabanki agiye atandukanye mu igihugu yagiye ashyiraho amapurikasiyo ameze nkayo kugura cyangwa kugurisha ifaranga, aho ushobora kubikuza ukoresheje ikoranabuhanga k'uburyo udashobora kubona umuntu atonze umuronko mumijyi igiye itandukanye ku isi.

Ubundi mugihe utaratunga cyangwa ngo ufashe umuntu ufite inzoga yo ku rwego rwo hejuru ntukabe waburana nawe kubera ko abafite ingingo zigiye zimurengera kandi nawe wazumva ugasanga wowe uri mumakosa.

Inshuti nyinshi zikunze kujya gusohokera mu bubari mu masaha y'akaruhuko, bakaba bafata ku kinyobwa gisembuye banaganiramo gake gake bavugana kuri gahunda z'umunsi n'uko umunsi wagenze.

Ububari bwinshi mu masaha y'umugoroba ukunze gusangamo abagabo cyangwa inshuti zagiye gusangiramo cyangwa kunyweramo ibinyobwa harimo nk'inzoga cyangwa indi mitobe iryoherera baba bishimiye ibyo barimo baraganira.

Mu bubari bwinshi bugiye butandukanye bugiye bufite ibyapa, aho biba biriho amazina y'ibinyobwa cyangwa amazina y'ubwo bubari mu dwego rwo kwamamaza ako kabari kugira ngo abakiriya bakamenye.

Ububari bwinshi usibye kuba baba bafite ibinyobwa bisembuye bakunze no kugira ibinyobwa bidasembuye kuburyo abatanywa ibinyobwa bisembuye bashobora kubihasanga, Kandi bakagira n'amakesi menshi aba arimo ibinyobwa bisembuye cyangwa ibidasembuye bakanabiranguza.

Henshi mu mubari hakunze gusohokerwamo n'inshuti, zikaba zakwirebera ruhago mu bazikunda, barimo baranasoma gake gake ku binyobwa, yaba ibisembuye cyangwa ibidasembuye, kandi bakaganira no ku buzima bwabo, uko buri kugenda muri iyo minsi.

Utubari tugiye dutandukanye mu gihugu twashyizeho uburyo butandukanye, aho umukiriya wabo yicara yisanzuye kandi akaba ari kwirebera n'umupira mu bakunda Ruhago, bakaba bicaye barimo barizihirwa n'inshuti zabo cyangwa imiryango yabo bareba umupira w'amaguru.

Hari ibiribwa bigiye bitandukanye bicuruzwa mu bubari biba bikoze mu nyama. Bikunzwe n'abatari bakeya kuri uyu mugabane dutuye w'iyi si, aho ushobora gusangamo ibikoze mu nyama cyangwa ibindi bigiye bitandukanye.

Hari abantu bakunze kuza kunyweramo bitewe n'uko baba bagizerori by'amasabukuru yabo cyangwa bishimira kuba bahembwe. Bya binyobwadusembuye n'ibindi biribwa bishobora gutuma utarwara indwara zirimo ibica.

Ububari bugiye butandukanye bugiye bufite amatara agezweho aho akurura abakiriya kandi agatuma bishima mu masaha y'ijoro, mu gihe barimo barabyina bari kumwe n'inshuti zabo cyangwa imiryango yabo kugira ngo bumve bamerewe neza muri bo kandi ibikorwa byabo baba bateguye bumve ko byagenze neza muri ibyo birori byabo.

Ububari bwinshi bukunze kugibwamo n'imiryngo cyangwa insuti bagiye kuganira cyangwa kuruhuka, banywa ku binyobwa bisembuye cyangwa ibidasembuye, bavuga ibyiza bagezeho cyangwa ibyo bagomba gukosora.

Hari abantu benshi bakunze gusohoka mu masaha y'umugoroba mu gihe baba basoje akazi kabo, bagasohokera mu tubari bakaba banywa ku binyobwa yaba ibisembuye cyangwa ibidasembuye, banabifashisha ibiribwa biba biri muri utwo tubari, cyane cyane nk'inyama z'ingurube.

Ububari bwinshi bwubatse mu buryo bubereye ijisho, aho umuntu ashobora kugenda akicara, imbere mu butebe bwa bugenewe bw'abakiriya, akaba arimo arirebera ahantu hasa neza kandi ananywa ibinyobwa yatumije nta mpungenge.

Mu bubari ukunze gusangeyo igikoresho k'ikoranabuhanga kerekana amashusho aho uwaba ari kwerekana imipira cyangwa bakerekana amafirime mu bantu bikundira agasobanuye bakaba baba bakareba mu gihe baba bari kunywa ibinyobwa baba batse muri ubwo bubari.

Utubari twinshi dufite amamashini bandikamo ibyo bakoze kandi tugiye dufite n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga aho baba bafite n'ikindi gikoresho gikunzwe gukoresha ahantu hose gikonjesha ibinyobwa ku buryo umuntu ukeneye ikinyobwa gikonje ashobora kukibona kandi akakibona kimeze neza.

Ububari bugiye butandukanye bushyiraho ibyapa bigaragaza aho bakorera kandi bikaba biranga inzira nyayo ugomba kunyuramo, kugirango ugere aho bakorera kandi bakaba bamamarizaho n'ibinyobwa bigiye bitandukanye. Bityo ibyo ba nyiri ibyo binyobwa bakaba babishyura kubera kubamamariza ibinyobwa byabo bisembuye cyangwa ibidasembuye.

Mu bubari bwinshi hakunze kuba hari abasore cyangwa inkumi bize uburyo bwo kuvangamo ibisukika harimo ibisindisha cyangwa ibidasindisha bakabivanga kuburyo kongerwa uburyohe bw'ibyo binyobwa.

Mu bubari bwinshi cyangwa ahantu gagiye hatandukanye hahurira abantu bagiye kwifashisha ibinyobwa yaba ibisembuwe cyangwa ibidasembuye kunze gusanga aho ibyapa bigaragaza ibinyobwa bafite bishobora gutuma abakiriya babyishimira cyangwa ariho bazinywera naho hantu uba wagize.

Ku bubari bwinshi hakunze gusangwaho ibyapa byamamaza bitewe n'ibyo umukiriya akunda. Kugirango umukiriya bibashe kumukurura, cyane cyane nk'icyapa cya sikoro, nk'inzoga tuzi yamamaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Benshi mu rubyiruko bakunze gukora mu bubari kubera yuko baba bafite isura nziza zikurura abakiriya cyabe cyane abari n'abategarugori cyangwa bakaba bakurura abagabo.

Ububari bukunze kubamo igipapuro kiba cyanditseho ibinyobwa cyangwa ibiribwa n'amafaranga yabyo yaba ibisembuye cyangwa ibidasembuye, ndetse n'ibiribwa cyane cyane nk'inyama z'amatungo agiye atandukanye abantu bagiye bakunda.

Imiryango cyangwa abantu bagiye batandukanye bakunze kujya gukorera inama cyangwa ibirori bigiye bitandukanye, mu bubari ngo kuko ariho haba hari ibinyobwa bifuza kandi habakunze kuba hari n'ibiribwa bifuza bibaryoheye kandi bituma ibikorwa byabo bigenda neza.

Abagabo benshi mu masaha y'umugoroba bakunze kwisohokana, bakajya mu bubari kunywa ibinyobwa yaba ibisindisha cyangwa ibidasindisha, nka za fanta cyangwa imitobe igiye itandukanye kugira ngo baruhuke mu mutwe.

Ububari bugiye butandukanye, bugiye bufite amakotwari aho ushobora gushyira ibinyobwa ucuruza byaba ibisembuye cyangwa ibidasembuye n'amazi ushobora kuyahasanga kandi bikaba bigaragara neza.

Mutubari twinshi ukunze gusangamo imiryango yasohotse, yab' ababyeyi ,cyangwa abana babo bujuj' imyaka, yo kwinjira mutubari , aho baba barimo baraganira banishima ,kuber' imiryango yab' imeranye neza kandi bakunze gusohokanamo n'inshuti z'umuryango.

Mu buryo bwo kugira ngo ububari bwihutishirize abakiriya babwo serivise. Bakunze gushyiraho uburyo bugiye butandukanye bwo kohereza cyangwa kwakira amafaranga hakoreshejwe murandasi aho ushobora kubaha ikarita ya banki yawe bagakuraho amafaranga y'ibyo wakonsomye muri iryo joro cyangwa umunsi wose.

Henshi mu bubari bafite uburyo bwiza bwo kwerekana cyangwa kwamamaza ibicuruzwa barimo baracuruza, aho babikorera amatara yabyo, bakandikamo amazina yabyo. kugira ngo agaragare, umukiriya n'iyo yaba atazi yuko icyo gicuruzwa cyaba gihari, abone yuko bagifite, hanyuma agisabe, akibone, kuko yaba acyifuza.

Mu bubari hakunzwe kwerekaniramo amakuru cyangwa kwamamaza ibikorwa byabo ku ma televuziyo ya rutura kandi bagashyirao n'indi mikino ishobora gususurutsa abakiriya bayo.

Mu bubari bugiye butandukanye, bagiye bafite ibikombe bitandukanye, mu ngano zitandukanye, aho bashyira ibinyobwa bisembuye kugira ngo abakiriya babo babinyweremo badakoresheje amavide, ahubwo bakoresheje ibyo bikombe, kugira ngo banywe bizigure kandi bumve bamerewe neza muri bo.

Benshi mu baturage baturiye ububari bakunze kujyayo bagiye kugura ibinyobwa bigiye bitandukanye yaba ibisembuye cyangwa ibidasembuye kugira ngo babijyane mu ngo zabo abe ariho babinkwera batiriwe bajya kwicara mu bubari.

Ububari bwinshi bwagiye bushyiraho uburyo butandukanye aho abakiriya babo bicara bisanzuye kandi bakaganira uko babyifuza nta n'umwe ubangamiye undi kandi bakizihirwa mu bikorwa byabo baba barimo.

Mu bubari bugiye butandukanye bwo hirya no hino mu gihugu, bukunze gushyiraho igabanyirizwa ku biciro, ku binyobwa cyangwa ibiribwa bugurisha muri ubwo bubari bwabo, mu gihe k'iminsi mikuru cyangwa mu gihe bafite serivise yihuse.

Mu bubari bwinshi bugiye butandukanye, bafite ibikombe byo mu ngano, zitari zimwe aho basukiramo ibinyobwa abakiriya babo, yaba ibipima ingano nini cyangwa ibipima ingano ntoya bikoreshwa mu kugurisha ibyo binyobwa baba baranguye.

Mu maduka menshi cyangwa mu bubari ukunze gusangamo amalisite agaragaza ibiciro by'ibicuruzwa byabo ndetse n'amazina yabyo, kugira ngo umenye igiciro ntakwirirwa ubaza umuntu uri buze kuguha serivise yo kubikuzanira ahubwo ukaba wasoma ukabona icyo ushaka hariho n'igiciro cyabyo ukunze ukaba wakishyura.

Mu bubari bakunze gusangamo ibikoresho by'ikoranabuhanga nka televiziyo yerekana ibigiye bitandukanye biri kubera hirya no hino ku isi, aho twavuga nk'umupira wamaguru ukunzwe n'abatari bakeya bakaba bawereka abakiriya babo kugira ngo babe barimo baranywa banisusuruka kubera iyo mikino y'umupira w'amaguru.

Mu bubari byinshi bugiye butandukanye buri hirya no hino mu gihugu bashyizeho uburyo bwo kwishyura ukoresheje murandasi n'uburyo bwizewe bushobora gutuma umukiriya umutekano w'amafaranga yiwe waba wizewe.

Mu ububari bwinshi bugiye bufite ibikombe bisukwamo amarikeri aho uyakeneye ayanywera cyangwa bakaba bayasukamo bagiye gushyiramo ibijisha izo rikeri.

Mu bubari bwinshi ukunze gusangamo ameza cyagwa intebe zitandukanye n'izo wasanga mu yandi maduka acuruza ibinyobwa, aho usanga ari ndende cyane ugereranyije n'izo ngizo kuko abakiliya bakunze kunywera muri ubwo bubari bakunda intebe ndende cyane.

Hari ububari bugiye ari bunini ugereranyije n'ubundi, aribwo bukunze kuberamo ibirori yaba iby'urubyiruko cyangwa iby'abantu bakuru mu masaha y'ijoro, mu gihe barimo barishimira insinzi cyangwa ibindi bintu baba bagezeho mu buzima.

Mu bubari bashyizeho uburyo bworoshye bwo kuba wakwishyura ukoresheje ikoranabuhanga aho bakwereka igikoresho ukoresha urimo urabishyura ukoresheje murandasi yawe kandi ukaba wabyikorera bitagombereye kuba wajya kubikuza amafaranga warufite kuri interineti yawe.

Mu bubari bwinshi bugiye butandukanye, hakunzwe gusangamo ibinyobwa, yaba ibisembuya cyangwa ibidasembuye, aho imiryango cyangwa inshuti baza guteranira, baganira ku byiza bagezeho cyangwa ibyo bagomba gukosora mu buzima bwabo.

Inzoga y'uruganda rw'amusteri abantu benshi bakunze kuyinywa ngo kuko iraryoha kandi ngo ntago isindisha vuba abantu benshi bakunze kuyikoresha iyo barimo baraganira n'inshuti zabo cyangwa imiryango yabo kugirango badasinda vuba.

Ububari bugiye butandukanye mu gihugu bugiye bufite uburyo bwo guha abakiriya babo inyemeza bwishyu aho berekana amafaranga bakoresheje cyangwa umusoro wavuye mu binyobwa bakoresheje aho uwo musoro ukoreshwa mu kubaka igihugu cyabo.

Mu bubari bwinshi bugiye butandukanye ukunze gusangayo ibinyobwa bisembuye bitandukanye aho ushobora gusangayo nk'ibinyobwa bikorwa n'uruganda rwa burarirwa cyangwa uruganda rwa sikoro, ndetse n'ibindi binyobwa bigiye biturutse hanze bisembuye cyangwa ibidasembuye.

Mu tubari twinshi aho abantu bafite amafaranga yabo menshi bajya kunywera hakunze kuba amakontwari afite amatara yaka mu mabara atandukanye bityo bituma hagaragara neza kandi ku buryo buri muntu wese yakwishimira uburyo aho ahantutu hasa.

Ububari bwinshi bukunda kuba bufite ibyapa byerekana ibyo bakora kandi hariho n'amazina yako kabari aho berekana yuko umwana uri munsi yimyaka cumi n'umunani atemerewe kunkwa inzoga cyangwa umugore utwite atemerewe kunkwa inzoga.

Mu tubari, dukunze gusangamo inzoga bazitonze ku rwego rugiye rutandukanye. Aho baba bazisukuye bakazishyira imbere ku buryo nimba ukeneye ikinyobwa, atari ngombwa ko bajya kubanza bakajya gufungura amakarito. Ahubwo bakaguha ku kinyobwa kiri imbere yawe, ukaba wishima.

Mu bubari bwinshi tumaze gusangamo ibikoresho by'ikoranabuhanga byerekana imikino ,aha ngaha twavuga nka tereviziyo za rutura , zishobora kwerekana umupira w'amaguru cyangwa zikerekana amakuru ku bantu bayakunda.

Abasaza cyangwa abagabo bakuze ukunze kubasanga bicaye ku ntebe ndende cyane, zigaragara mu bubari mu gihe barimo bafata ibinyobwa bisembuye kandi bakumva bamerewe neza mu mubiri.

Henshi mu mabare atandukanye, bafite utumashini tuvangirwamo ibinyobwa bisembuye ku buryo byongererwa ubukana bwo kuba umuntu yasinda vuba kandi akizihirwa muri bagenzi biwe.

Inshuti n'abavandimwe bakunze kujya mu tubari mu masaha y'ijoro barimo barishimira byinshi bagezeho, cyangwa barimo baraganira kugira ngo bakomeze bongere umubano.

Mu bubari bugiye butandukanye bakunze gushyiraho uburyo bw'utudobo nk'uburyo bwo gucuriza inzoga zabo kugira ngo bagabanye ibiciro, umukiriya azibone ku buryo bumworoheye kandi bunoze.

Utubari twinshi tugiye dutandukanye mu gihugu tugiye dufitemo ibinyobwa bitandukanye yaba ibisembuye cyangwa ibidasembuye, aho babigeza ku bakiriya babo uko babyifuza bakabaha serivisi nziza.

Mu bubari hakunze kubonekamo amakesi aba arimo ibinyobwa yaba ibisindisha cyangwa ibidasindisha, aho babiranguza ku muntu waba ubikeneye mu gihe abigikeneye icyo ari cyo cyose kandi bikamugereraho ku gihe.

Ububari bwinshi bwashyizeho uburyo bugiye butandukanye bw'myubakire aho ushobora kwishimira uko hagaragara barahubatse neza ku buryo buri mukiliya ahabona akumva arishimye, yaba inshuti cyangwa imiryango yahageze bakishimira uko aho hantu hasa.

mu bubari bwinshi bugiye butandukanye bakunze kuba bafite urupapuro ruriho ibicuruzwa bafite ndetse n'ibiciro byibyo bicuruzwa aho baha umukiriya urupapuro kugirango arebe ibicuruzwa yakwigondera cyangwa ibyo akeneye.

Hari ububari bugiye butandukanye, aho ari bunini ugereranyije n'ubundi bubari buba buri mu makaritsiye hamwe na hamwe, aho ushobora gusanga ibisindisha cyangwa ibinyobwa biryohereye nk'imitobe, ku buryo ubyifuza kandi ukabibona ku buryo bukoroheye ugasabana na bagenzi bawe cyangwa umuryango wawe.

Mu bubari bugiye butandukanye, aho ushobora gusanga ibinyobwa bisembuye, ukunze no kuhasanga ibiribwa harimo ibiribwa bikoze mu nyama, cyangwa ibiribwa bikoze mu binyabifufu, cyangwa ibiribwa bitera imbaraga, usomeza kuri icyo kinyobwa gisembuye cyangwa ikidasembuye bitewe n'amahitamo yawe.

Mu bubari bwinshi butandukanye hakunze gusangwamo uburyo bwinshi bwo kwishyura amafaranga ukoresheje interineti cyane cyane uburyo bwaje bwa momopeyi aho wishyura ufashe kode y'akabari ukoherezaho amafaranga ubundi nyirayo agahita ayabona.

Henshi ku mihanda igiye itandukanye ukunze gusangayo ibyapa biba byanditseho amazina cyangwa biranga aho utubari tugiye duherereye, n'ibinyobwa baba bafite, ku buryo buri muntu yishimira iyo serivise yo kwamamaza ibikorwa byabo.

Abubatsi b'inzobere bakunze gukoreshwa n'ububari bugiye butandukanye kugira ngo babukorere ahantu hase neza kuburyo umukiriya uzaza ashaka ibinyobwa asange hasa neza mu buryo buryoheye ijisho kuburyo buri muntu wese yahishimira.

Henshi mu gihugu hagiye hari ibyapa bigaragaza aho utubari duherereye, kandi byamamaza ibinyobwa bitandukanye, utwo tubari tuba turimo turacuruza kugira ngo abakiriya b'ibyo binyobwa babibonere ku gihe.

Henshi mu gihugu ushobora kuhasanga utubari tugiye dutandukanye, aho ushobora gusanga ibinyobwa bisembuye cyangwa ibidasembuye, aho wowe n'inshuti zawe mushobora gusohokera mu masaha y'ijoro murimo muraruhuka cyangwa muri kuganira nk'umuryango.

Ububari bwinshi bugiye bufite abantu benshi babugana, bwashyizeho uburyo bugiye butandukanye bw'imyicarire, aho umukiriya umwe atabangamira undi, kandi aho hantu hakaba hubatse neza mu buryo buryoheye ijisho, buri muntu abibona akishima.

Ububari bwinshi bugiye butandukanye mu gihugu bwashyizeho uburyo bugiye butandukanye, aho bahuriza abantu bakishima bakabyina, bagashyiramo imiziki bo n'inshuti zabo kandi bakizihirwa rwose nta n'umwe ubangamiye undi.

Hari intebe ziba zifite imisego, aho wicara ukumva ikibuno ntabwo kirimo kirabangamirwa, zikunzwe gukoreshwa mu bubari mu gihe abakiriya babo baba bicaye barimo barafata ibinyobwa bigiye bitandukanye.

Ahenshi mu bubari bugiye butandukanye ukunze gusangamo ibikoresho by'ikorananabuhanga byerekana imipira y'amaguru cyangwa indi mikino itandukanye abantu bakunze kwishimira mu guhe barimo barafata ibinyobwa bicuruzwa muri utwo tubari.

Hirya no hino mu gihugu mukunze gusangayo ububari bugiye bwubatse mu buryo butangaje aho buba bubereye, ijisho kuburyo winjiramo ukumva unezerewe bitewe n'ukuntu haba hasa.

Kenshi mu ma karitsiye agiye atandukanye yo mu migi hakunze kubamo ububari bukomeye aho abatuye muri uwo mugi cyangwa abaje gusura muri uwo mugi bakunze kujya kunywera cyangwa gusangira n'inshuti n'imiryango yabo.

Mu bubari bwinshi cyangwa utuzi tugiye dutandukanye ukunze gusangamo abakozi baho bambaye impuzankano zisa ku buryo umuntu ababona akamenya icyo bakora atabitiranya n'abakiriya baba baje gufata ibicuruzwa aho ngaho cyangwa baje kuhanywera inzoga.

Mu tubari tujya dutandukanye mu gihugu tugiye dufite intebe zigiye zitandukanye ndende abakiriya bakunze gukoresha iyo bari kunywa ibinyobwa byaba ibisembuye cyangwa ibidasembuye kandi abakiriya bakunda izo ntebe ndende ngo kuko zituma bumva bamerewe neza nta muvunane zijye zibatera.

Ububari bwinshi bufite imyubakire itangaje kandi myiza ibereye ijisho, aho abakiriya b'ubwo bubari bishimira uburyo hagaragara kandi bakaba banywa ibicuruzwa byabo nk'ibisembuye cyangwa ibidasembuye bareba aho hantu hasa neza habereye ijisho mu buryo bifuza.

Henshi mu bubari butandukanye mu gihugu, bafite uburyo bwo kuba bagezaho ibinyobwa ku bakiriya babo bibahendukiye, nko ku kiranguzo, aho bashobora kubigurisha biri mu kadobo, bakavuga igiciro kiri munsi y'ibinyobwa byari birimo, bitewe n'umubare wabyo.

mu tubari twinshi, ahagiye hatandukanye mu gihugu, ni ho ukunze gusanga higanje abantu benshi, cyane cyane urubyiruko rwagiye kuganira no kwishima kuko baba basoje imirimo yabo, kandi barimo baranaganira ku bikorwa bazakurikizaho, nyuma yo kwishimira muri ibyo birori baba bateguye.

Ububari bwinshi bukunze kuba bwafungura mu masaha y'umugoroba, nk'imwe muri gahunda leta yashyizeho yo kuba umuntu atajya kunywa mu gihe yaba ari mu kazi bityo bigatuma akazi k'iwe kapfa, cyangwa yica iyindi mirimo ashobora kuba arimo.

Mu tubari ukunze gusanga hacuyi ibice aho haba hari igice kirimo abari gucuruza inzoga ndetse n'ikindi gice kinini, kicaramo abakiriya bagiye kubaha ibinyobwa baba basabye kandi bakabibahera ku gihe.

Utubari twinshi dukunze kuba twubatse mu buryo bugiye butandukanye. Aho buba bugaragaza ubwiza bw'aho hantu ndetse muri uko kubaka aho hantu bagenda bashyiramo ibyapa by'ibinyobwa muri utwo tubari wasangamo.

Utubari twinshi dufite imikoranire ya hafi n'uruganda rwa sikolo dukunze kuba dufite ibyapa biriho ikinyobwa cyasikolo kigezweho muri iyo minsi kandi gikunzwe n'abantu batari bakeya.

Henshi mu bubari ukunze gusanga mo amatara y'amabara atandukanye, abakiriya bakunda iyo barimo baranywa ibicuruzwa byabo, yaba ibisindisha cyangwa ibidasindisha, aho bakunze no kuba bahita bagura inyama kugira ngo barishe ibyo binyobwa baba barimo barakoresha.

Utubari twinshi tugiye dutandukanye dufitanye imikoranire n'inganda zicuruza ibinyobwa, aho twavuga nk'uruganda rwa sikolo, cyangwa urwa buralirwa, mu nganda zifite ibinyobwa bikunzwe n'abatari bake mu Rwanda.

Abasore cyangwa abagabo bakunze kujya mu bubari mu kwishimira cyangwa mu gihe barimo baratekereza ku mishinga yabo banywa ku binyobwa bisembuye cyangwa ibidasembuye kugira ngo banoze akazi kabo.

Henshi mumaduka atandukanye cyangwa ububari bugiye butandukanye, baba bafite urutonde rw'ibintu bafite byose cyangwa ibicuruzwa byose bafite kndi hakaba hariho n'ibiciro byabyo kugira ngo bifashe umukiliya kuba yabona ikintu yakwigondera mw'ako kanya n'amafaranaga afite.

Ububari bwinshi bwo mu mujyi ukunze gusanga hubatse mu buryo butangaje, aho umukiriya areba agasanga arishimye kandi akazanatumira n'abagenzi biwe kubera uburyo aho hantu hagaragara kandi na serivise zaho batanga ziba zinogeye buri umwe.

Uko ikoranabuhanga rigenda ryiyongera niko henshi hacururizwa ibintu bigiye bitandukanye cyane cyane nko mu tubari bagenda bashyiraho uburyo bw'uko wakishyura ukoresheje murandasi, atari ngombwa yuko wagendana amafaranga mu ntoki kandi ukayabaha mu buryo bworoshye.

Ububari bwinshi bufite uburyo bugiye butandukanye, aho ushobora gusanga ibinyobwa waba wifuza yaba ibisembuye, cyangwa ibidasembuye mugihe waba wasohokanye n'inshuti zawe, cyangwa wasohokanye n'umuryango wawe kandi mukizihirwa rwose.

Utubari twinshi tugiye dutandukanye mu Rwanda tuba dufite uburyo bwinshi, aho ushobora gusanga urupapuro rwanditseho ibiciro by'ibikorwa byabo, yaba ibicuruzwa bakoresha cyangwa serivisi bashobora kuguha zigombera kwishyura.

Mu tubari tujye dutandukanye tugiye dufite ibyapa aho baba barimo baramamaza ibinyobwa bimwe na bimwe byabishyuye kugirango bamanike ibyapa ku buriri bwabo kandi berekana uburyo icyo kinyobwa kiryoshye kandi kinogeye buri mukiriya wabo wese.

Henshi mu tubari tugiye dutandukanye, bafite uburyo bugiye butandukanye aho bereka abakiriya babo ibinyobwa bisembuye cyangwa ibidasembuye, ibiciro byabyo babyanditse ku rupapuro, ari rwo ruba rugaragaza ibyo bakeneye kandi ku giciro kinoze.

Mu bubari bugiye butandukanye buri mu duce twinshi ukunze kuba wasangayo ibiribwa bigiye bitandukanye bijyana n'ikinyobwa bacuruza kugira ngo nimba urimo uraufata ikinyobwa utaza kwicwa n'inzara, n'ubwo uba ura

Benshi mu bakozi baba bakora ahantu hamwe bakunze gusohokera mu bubari butandukanye buri hirya no hino mu gihugu kugira ngo baganire ku mikoranire yabo n'uburyo banoza umubanire wabo mu kazi kandi nta n'umwe ubangamiye undi.

Benshi mu banyamahanga bakunze gukoresha amaduka atandukanye aho haba hari abantu bakoresha indimi nyishi mu kuba bagura bagura ibintu cyangwa bakurikiza ku bantu baba babafasha mu buzima bumwe cyangwa ubundi.

Hari amamodoka agiye atandukanye akoreshwa mukwakira cyangwa kohereza ibicuruzwa cyangwa mu gihe umuntu aba akeneye kugura aya mamodoka akaba yayagura bitewe n'igiciro waba washyizeho mugihe umukiriya yaba acyigondeye ubwo ngubwo ushobora kuba wagura icyo gikoresho.

Uyu mupapa mwiza cyane urabona ko umusatsi yawukuyeho hejuru. Hasi hari ubwanwa bwinshi nyuma ye urahabona imitako afite mikoro ari kubwira abantu benshi imbere ye hari ikayi n'ikaramu na telefone yegeranye n'undi mudamu ubona ko yiyubashye.

Iyo inshuti zagiye kuba zakwishimira uburyo inshuti yabo igiye gufata ibihembo byo kuba yajyana abantu hamwe cyangwa ahandi mu gihugu, bakunze kuba bafite urufunguzo runini rwanditseho amagambo yo gushimira izo nshuti zabo.

Hari amamodoka menshi akunze gukoreshwa mu kuba yagenda akageza ahantu bakeneye kuba bayakoresha, cyangwa igihe baba bayakeneye, akaba yabageza aho bakeneye kandi akabatwaza ibintu, n'iyo byaba ari byinshi.

Hari benshi mu baturage bakunze kuba bafite amafaranga atari yo mu gihugu kimwe cyangwa ikindi baba babereyeyo aho bagomba kujya kuvunjisha cyangwa bakaba bagenda bagafata amafaranga yo muri icyo gihugu kugira ngo bajye guhaha ibyo bakeneye.

Kenshi mumakusanyirizo y'amata ukunze gusangamo ibicuba bashyiramo amata mugihe baba barimo barayashyira mumashini iyatunganya cyangwa iyafasha mukaba atapfa mugihe kirekire.

Hari ibikombe bigiye biri mu ngano zitandukanye yaba ibito cyangwa ibinini, bikunze gukoreshwa mu makusanyirizo y'amata, mugihe ugiye guha umukiliya ukeneye kunywa ayo mata ako kanya.

Uruganda rutunganya amata, ruzwi nka Nyanza, rukunze gutunganya amata y'umwimerere, aturuka ku nka, inyinshi ziba ari iz'aborozi ba Nyanza, aho byaje ari igisubizo kuri abo borozi, kuko umusaruro wabo ugera ku baturage ku gihe.

Mu maduka cyangwa amakuranyirizo y'amata ukunze gusangamo ikiribwa, k'irindazi ni kimwe mu biribwa bikunzwe n'abatari bake kandi ushobora gusangamo n'ibindi binyobwa bigiye bitandukanye bidasembuye bikinzwe n'abatari bake.

Ababyeyi bakuze n'abantu badakunze kuba banywa ibisindisha bakunze kujya ku makusanyirizo y'amata bakaba bahafata ibinyobwa byabo, yaba amata cyangwa imitobe baba bafite yatunganyijwe n'inganda zigiye zitandukanye.

Amakusanyirizo y'amata agiye atandukanye afite uburyo butandukanye bwo kwita ku mata yayo neza aho ushobora gusanga ibikoresho byabugenewe by'ikoranabuhanga byita ku mata neza kugira ngo atazigera apfa kandi umukiriya azayabone ameze neza uko ayifuza.

Mu makusanyirizo menshi agiye atandukanye y'amata ukunze gusanga hariyo ababyeyi cyangwa abaturage byateje imbere ku buryo usanga bafite ibyishimo ku rwego rwo hejuru kubera amafaranga bakura muri uko gukusanya amata.

Henshi mu makusanyirizo agiye atandukanye ari hirya no hino mu gihugu bakunze kuba bafite ubujerekani basukamo amata, cyane cyane bakunze gukoresha ubujerekani bwo mw'ibara ry'umweru nk'ubujerekani bukoreshwa mu gufata amata bakayafungiramo abakiriya.

Benshi ku makusanyirizo y'amata, ukunze gusangaho ibyapa by'inganda zigiye zitandukanye ukorana nazo nk'urwa Nyanza cyangwa Inyange cyangwa urwa Mukamira, aho baba bafite n'amazi atunganyirizwa muri izo nganda, cyangwa izindi nganda zitunganya amazi.

Ku makusanyirizo menshi agiye atandukanye ku masaha y'igicamunsi bakunze kwakira abakiriya baba baje mu karuhuko, aho bafata amata cyangwa bakanywa imitobe ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye bijyana n'ibyo binyobwa nk'amandazi, keke na capati.

Mu makusanyirizo agiye atandukanye mu gihugu bafitanye imikoranire n'inganda harimo nk'urwita Inyange cyangwa Mukamira bakora ibinyobwa bikozwe mu mata kandi bikunzwe na benshi mu bakiriya bayo maduka.

Mu maduka menshi bakunze kuba bafitemo udupaniye aho ushobora gushyira ibicuruzwa cyangwa ukaba washyira impapuro z'isuku zizifashishwa n'abakiriya baje muri iryo duka.

Mu makusanyirizo menshi cyangwa amaduka acuruza ibinyobwa, ukunze gusangamo ibinyobwa bigiye bitandukanye, bidasembuye, kandi ku giciro kinogeye buri muntu, aho ushobora gusanga ibinyobwa biryohereye, cyangwa ukahasanga amazi cyangwa ibyongera imbaraga.

Ku makusanyirizo agiye atandukanye bagiye bafiteho ikinyobwa gituruka Inyanza nk'ahantu hazwi ko hava amata y'umwimerere yaturutse ku inka atagize ikindi kintu cyongerwamo, abaturarwanda bakunda cyane ngo kuko araryoha kandi aba ari umwimerere.

Amangazi ni ikiribwa gikozwe mu ifarini bikunzwe ntabatari bakeye aho bagikundira yuko kiryoha kandi kikaba kidahenze ku isoko aho ushobora kukinywesha ikinyobwa icyo aricyo cyose waba ukeneye kandi ngo araryoha cyane abana barayakunda.

Mu maduka acuruza amata, wahasanga n'ibinyobwa biryohereye aho twasangamo imitobe cyangwa indi mitobe iba yaratunganyijwe n'inganda, kandi ukunda no kuhasanga amazi cyangwa ibiribwa bitandukanye bikoreshwa urimo urasomeza ibyo binyobwa.

Ababyeyi benshi bakunze kujya kunywa amata mu makusanyirizo kuko haba hari isuku kandi amata yaho aba yizewe, ataba ameze nk'ayo batembereza ku mihanda, mu gihe bari mu kazi cyangwa bari mu karuhuko kugira ngo bumve bamerewe neza muri bo kandi bumve nta mavunane bafite.

Abantu benshi bakunze kujya kumakusanyirizo y'amata bagiye kunkwa amata bakanaka ikiribwa gikozwe mw'ifarini bakunze kwita keke gikunzwe n'abatari bakeya yaba abato cyangwa abakuru.

Ababyeyi cyangwa abari n'abategarugori bakunze gukora mu makusanyirizo kuko ari akazi ngo kababereye kandi bakaba bagize isuku ugereranyije n'abagabo mu kwita ku mata neza.

Usibye kuba ku makusanyirizo y'amata ushobora gusanga yo iinyobwa cy'amata, hari n'ibindi binyobwa bigiye bitandukanye aho ushobora gusangamo imitobe iryohereye n'amazi ku buryo ubyivuza kandi ku giciro gihendutse.

Amasambusa y'inyama ni kimwe mu biribwa bikunzwe n'abatari bakeya mu gihugu cy'u Rwanda, bityo amakusanyirizo y'amata akaba akunze kuba afite icyo kiribwa nk'ikiribwa gikoreshwa barimo bagisomeza amata.

Ku makusanyirizo y'amata bakunze kuba bafite ububati bubikwamo ibikoresho bifashisha iyo barimo barapimira abakiliya babo amata, kandi ibyo bikoresho bikaba biba byogeje neza ku buryo bitakanduza amata y'umukiliya.

mu makusanyirizo yamata bagiye bafite ibikombe mu ngano zigiye zitandukanye aho bikoreshwa mu gupima cyangwa gupimurura amata baba bagejejweho cyangwa ayo bagiye guha abakiriya babo kugirango batagira kwibeshya mungano yamata barimo barapima.

Amakusanyirizo menshi akunze kuba afite ibyapa aho baba berekana amata bafite n'uruganda akomokamo akenshi inganda zigiye zihari ni Mukamira cyangwa Inyange bakunze gukoresha amakusanyirizo agiye afite ibyapa binini byerekana ibicuruzwa byabo.

Mu makusanyirizo y'amata hakunzwe gusangwamo igikoresho gikoreshwa mu gukonjesha ibinyobwa, aho umuntu ukeneye ikinyobwa gikonje ashobora kukibona cyangwa waba ukeneye n'igishyushye kidakonje ukaba wakibona mu buryo wifuza kandi bukunogeye.

Aho bacururiza amata ukunze kuhasanga ikiribwa cya capati, abantu benci bakunze ngo kuko kiba cyoroshye, kandi gifata munda umuntu ufite inzara akunze kukirya, abenci bakunze kukirya ni ababa bari mu kazi kugira ngo bakomeze bakore akazi nta nzara bumva.

Benshi mu bakoresha ikoranabuhanga, bakunze kwishima ku buryo batakigendana amafaranga mu mifuka yabo, ahubwo bayagendana kuri za murandasi zabo kugira ngo bagure cyangwa bohereze amafaranga, ku baguzi baba baguze ahantu hagiye hatandukanye.

Amakusanyirizo menshi y'amata ukunze gusangayo abagiye bagiye kugura amata cyangwa ibiribwa bikoreshwa mu gusomeza ayo mata mu masaha ya mugitondo bagiye kubiha abanyeshuri mu gihe bagiye ku ishuri.

Mu makusanyirizo y'uruganda rw'inyange ukunze gusangamo abari n'abategarugori nk'abantu bakunze gukoreshwa mu gucuruza amata, kuko ngo ari bo bagira isuku mu gutanga cyangwa kohereza amata ku bakiriya.

Mu masaha y'igicamunsi mu nzira usanga inshuti zasohotse aho ziba zagiye kunywera amata ku makusanyirizo ndetse bakaba bafata n'ibiribwa bigiye bitandukanye kugira babe baganira gake gake.

Benshi mu maduka agiye atandukanye aho bacuruza amata bakunze kwita ku makusanyirizo, ukunze gusangayo ikiribwa cya cake cyangwa amandazi bifunze aho ushobora kugura ipaki yose cyangwa ukagura irindazi rimwe rimwe.

Mu makusanyirizo y'amata, ahantu hagiye hatandukanye ku isi, hari amamashini yabugenewe yo gutunganya amata, mu buryo bwiza, kugira ngo adapfa kandi amare igihe kinini, ugereranyije n'abayabika atari muri izo mashini zabugenewe.

Henshi mu gihugu hari amaduka atandukanye aho ashobora gusanga ibicuruzwa byiganjemo amata aho umuturage cyangwa undi muntu uwo ariwe wese ukeneye ibinyobwa ikinyobwa cy'amata ashobora kugisanga kandi bitamugoye.

Ku makusanyirizo menshi y'amata ukunze gusangayo ibinyobwa bigiye bitandukanye yaba ibisembu cyangwa ibidasembuye byakozwe n'inganda zigiye zitandukanye, aho umukiriya ahitamo ikinyobwa yifuza cyangwa yaba yifuza n'amazi nayo akayabona.

Mu masaha y'igitondo, ku makusanyirizo agiye atandukanye y'amata, ukunze gusangayo abaturage bagiye kugurirayo ibintu bigiye bitandukanye, ku buryo baba baje gufata ifunguro rya mu gitondo, bitagombye kuba bajya guteka iwabo.

Amakusanyirizo menshi mu gihugu agiye afite uburyo bugiye butandukanye aho umukiriya wabo ashobora kubishyura akoresheje murandasi cyangwa akabishyura mu ntoki bakamugezaho ibicuruzwa byabo yaba amata cyangwa ikindi baba bakeneye gikomoka ku mata baba bacuruza.

ku makusanyirizo y'amata ukunze gusangaho, hari n'inganda z'amazi bagiye bakorana aho twavuga nk'uruganda rwa Jibu cyangwa inyange, aho baba bafite ibijerekani binini bigomba gushyirwamo amazi, abakiriya baza kugura amazi y'umwimerere, amazi asukuye kandi asa neza mu buryo bunogeye umukiriya uyifuza.

Henshi ku makusanyirizo y'amata bagiye bafite ibikombe byabugenewe byo gupima amata, kugira ngo bapime ingano y'amata umukiriya yaba yabasabye, bayimuhe yuzuye kandi batamwibye.

Hari bamwe mu baturage bakunze gufatira amafunguro yabo ya mu gitondo cyangwa aya saa sita, mu makusanyirizo y'amata kugira ngo bidatuma bakererwa ku kazi cyangwa bagakererwa indi mirimo baba bafite gukora umunsi ku munsi.

Ahantu henshi mu gihugu hagiye hashyirwaho uburyo butandukanye, aho wakusanya amata, bashyiraho amakusanyirizo, aho umucuruzi ageza amata ye mu buryo bumworoheye kandi akabona amafaranga ku umusaruro we.

Mu makusanyirizo y'amata menshi hakunze kuba hari, ibicuruzwa by'inganda zigiye zitandukanye nk'aho ushobora gusangamo, ibicuruzwa by'uruganda rwa mukamira rukunzwe n'abatari bakeya mu gihugu cy'uRwanda.

Ibikombe byo mu ngano zigiye zitandukanye bikunda gukoresha mu makusanyirizo y'amata, bikunze gukoreshwa mu buryo bwo gupima amata umukiliya yatse nk'ingano yari akeneye.

Amaduka menshi acururizwamo amata cyangwa akaba acururizwamo ibindi bicuruzwa, harimo ibinyobwa biryohereye by'imitobe, bakunze kugira imiryango minini yinjirwamo kubera ko hari igihe bagira abakiriya benshi bityo bigafasha mu kuba abakiriya batabyigana.

Mu maduka menshi agiye atandukanye aho bakunze gucuruza ibyayi cyangwa bagacuruza ibikomoka ku matungo nk'inka nk 'amata, bakunze kuba bafite amateremusi menshi agiye atandukanye no mu ngano zitandukanye ashyushya ibyo binyobwa kugira ngo abakeneye ibinyobwa bishyushye baze kubibona.

Ahenshi ku makusanyirizo y'amata hakunze kuba hari n'ibindi binyobwa bitandukanye by'imitobe, aho wasanga mo n'ibindi biribwa bijyana nibyo binyobwa Nkamandazi cyangwa Keke, Ababyeyi benshi iyo batashye mu masaha y'ijoro bajya guhaha ibyo baribuze gucyura abana bari buze gukoresha mu gitondo.

Henshi ku makusanyirizo y'amata, aho umuturage ajya kugura icyo gicuruzwa, ashobora kuhasanga akamashini gakoreshwa bamupimira ibicuruzwa yasabye.

Ku makusanyirizo agiye atandukane ukunze gusangayo ibiribwa bigiye bitandukanye, aho ushobora gusangaho n'ibikomoka ku matungo, yaba amagi cyangwa ibindi bigiye bitandukanye bikomoka ku matungo nayo agiye adahuje ubwoko uko ubyifuza.

Umugati nk'ikiribwa gikunzwe henshi hatandukanye ku isi, ni kimwe mu biribwa bisangwa mu makusanyirizo y'amata, nk'ibiribwa abantu bakunda gukoresha barimo barakinywesha amata, ngo kuko biraryoha cyane.

Uruganda rw'Inyange nka rumwe mu ruganda rutunganya ibinyobwa bigiye bitandukanye, cyane cyane nka mata cyangwa imitobe, bakunze gutunganya amata ashobora kunyobwa atagomberewe gutekwa kandi amata akaba ateguwe neza ashobora kunywebwa ako kanya yujuje n'ubuziranenge ugereranyije na mata bakimara gukama.

Amasambusa akozwe mu birarayi cyangwa akaba akozwe mu nyama, akunzezwe gusangwa ahantu hatandukanye, aho ushobora gusanga akenshi urubyiruko rurimo rurayacuruza mu ndobo ahantu hagiye hatandukanye mu gihugu, kandi bakabigeza ku bakiriya ku giciro gitoya kandi bakizihirwa.

Amakusanyirizo menshi agiye afite ibyuma bigiye bitandukanye, aho akenshi bakunze gukoresha icyuma kinini, aho bakusanyirizamo amata kugira ngo atazapfa, bakaba banagikoresha barimo baratanga amata, mu tujerekani, cyangwa ikindi kintu cyose cyaba cyazanywe kugira ngo gishyirwemo amata, umukiriya akagenda yishimye.

Ku makusanyirizo menshi y'amata ushobora gusangayo ikinyobwa gikunzwe n'abana benshi aricyo yahurute aho ushobora kugisangayo ku giciro gitoya kandi kinogeye buri muturarwanda wese.

Ku makusanyirizo menshi acuruza igicuruzwa cy'amata ushobora gusangayo ikivuguto gikunzwe n'abantu benshi yaba abato cyangwa abakuru ku giciro wifuza kandi baba bafite ibikombe byo mungano zigiye zitandukanye.

Mu makusanyirizo menshi atandukanye bafite uburyo bugiye butandukanye, aho bakusanya amata cyangwa bakayafunga mu ngano zigiye zitandukanye mu bujerekani, ku buryo umukiriya aza agasaba ingano y'amata akayibona kandi byihuse.

Urubyiruko rwinshi rugiye rutandukanye, rukunze kuba rukoresha ibinyobwa bitegurwa mu mata menshi, biba byakomotse ku makusanyirizo y'amata kugirango bishimane n'inshuti zabo cyangwa baganire barimo bakoresha ibyo binyobwa.

Inganda zigiye zitandukanye zikoresha ubucupa bugiye butandukanye, mu ngano zigiye zitandukanye, aho bashyira ibicuruzwa bikomoka ku mata. Akenshi bakunze gushyiramo amayahurute cyangwa bagashyiramo amata y'umwimerere muri ibyo bikopo biba byarateganyijwe, kugira ngo hajyemo ibyo bicuruzwa byabo.

Amaduka menshi acururizwamo amata bakunze kugira n'ibiribwa bya gakondo aho ushobora gusangamo ibitera imbaraga nk'imyumbati cyangwa ibijumba nk'ikiribiribwa gikunze gukoreshwa barimo baranywa amata bagisomeza kuko biraryoha cyane

Mu masaha y'igitondo cyangwa igihe hari akabeho abana bakunze gusohokanwa ku kakusanyirizo y'amata bakaba babagurira amata yiganjemo nk'ikivuguto kugira ngo bumve mu mubiri wabo harimo akanyamuneza.

Amakusanyirizo atandukanye, kenshi akunze gukoresha ibikoresho bikoreshwa mu gupima cyangwa mu gupimurura amata kugira ngo bamenye ingano nyayo y'igicuruzwa cyabo bafite, nta kwibeshya.

Hari amaduka agiye atandukanye aho ushobora gusanga ibinyobwa bidasembuye waba wifuza yaba amata cyangwa ibinyobwa bidasembuye, by'imitobe yaba amazi ushobora kuyasanga kandi ku giciro gitoya kiboneye buri mukiriya wese.

Irindazi ni ikiribwa gikunze gusangwa mu makusanyirizo y'amata, aho bagiha abakiriya mu gihe nbarimo baranywa ayo mata cyangwa indi mitobe, barimo baranywesha iryo rindazi, kandi bakunda amandazi yisatuye kuko aba aryoshye kandi anahiye neza mo imbere.

Mu makusanyirizo atandukanye bafite uburyo bakoresha bwo kuba bapima cyangwa bakohereza amata yabo ku bakiriya babo mu ngano zigiye zitandukanye kandi bikabageraho mu gihe nta n'umwe utengushywe cyangwa atenguha undi.

Abana ndetse n'abakiri batoya benshi bakunze kujya ku makusanyirizo y'amata bakanywayo amata, aho twasangamo nk'ikivuguto cyangwa yahurute na bimwe mu bikundwa n'abana batoye kandi bikaba bifasha umubiri wabo umeze neza.

Mu makusanyirizo agiye atandukanye y'amata, ukunze gusangayo ibiribwa bigiye bitandukanye akenshi ukunze gusangayo ama cake cyangwa ugasangayo amandazi kuko ngo ni byo bihendutse kandi biboneye buri mukiriya wabo wese.

Mu makusanyirizo menshi y'amata ukunze gusangamo ibyansi byakoreshwaga mu muco nyarwanda wa kera aho babikoreshaga barimo baranywa cyangwa bashyiriye abantu ahantu hari amata cyangwa barimo barapima kugira ngo bayabahe.

Amakusanyirizo menshi y'amata hakunze kuba hariyo abana baje kugura amata cyangwa ibindi bikomoka ku mata bakunda cyane harimo nk'ibyitwa yahurute ngo biryoha cyane kandi abana babikunda.

Hari ibiribwa bigiye bitandukanye bikoze mu mafarini, cyane cyane nk'ahontwasangamo keke cyangwa amandazi, cyangwa imigati, ariko keke abantu benshi barazikunda, kuko ngo ziroroha kandi ngo ziba ziryoshye, kandi ntizinahenda ku buryo buri muntu atazigura.

Amakusanyirizo agiye atandukanye ari henshi mu gihugu bagiye bafite ibicuba aho bashyira amata yabo ataracuruzwa kandi biba byogeje bisa neza kugira ngo abakiriya babo babone amata asa neza kandi aryoshye.

Abana cyangwa abagabo n'abagore bakunze ikiribwa cy'isambusa, kuko gikunda kuba kiryoshye kubera ko gisangwamo inyama mo imbere, kandi inyuma ifarini igikoze nayo ikunda kukiryoshya cyane, benshi rero bakunda kugisomeza amata aho baba bagiye kuyagurira mu makusanyirizo, aho ategurirwa.

Uruganda rw'inyange nk'uruganda rukomeye mu gihugu rugiye rufite amakusanyirizo agiye atandukanye mu gihugu kandi henshi, aho umworozi ashobora kujyana amata yiwe bakayamugurira ku giciro kitari gitoya, kandi ayo mata ntazigere apfa bakayitaho neza kuburyo umukiriya ashobora kuzayabona ameze neza akiri mazima.

Mu maduka menshi acuruza amata bakunze kuba bafitemo n'ibiribwa bigiye bitandukanye bikoze mu mafarini bikoreye nk'amandazi cyangwa capati rimwe na rimwe ukunze no kuhasanga amagi ku buryo mu gihe waba uyakeneye bayaguha nayo.

Amaduka atandukanye acuruza amata cyangwa ibindi binyobwa by'imitobe cyangwa amazi akunze gukundwa n'abantu batari bakeya kubera serivisi zabo aho babaha n'ibyo kunywesha ibyo binyobwa baba baguze.

Uruganda rwa mukamira rwashyizeho uburyo bugiye butandukanye, aho bafunga ibicuruzwa byabo mu dukopo tugiye dutandukanye, mu ngano zigiye zitandukanye aho umucuruzi ashobora guha umuguzi ingano y'amata yaba yifuza mu dukombe kandi dufite isuku.

Mu maguriro y'amata bagiye bafitemo aho bakusanyiriza aya mata cyangwa bakagiramo n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye by'imitobe. Hakunze kuzamo n'abaturage b'ingeri zitandukanye baje kugura ibyo bicuruzwa cyangwa bakaba batumwe kandi bakabibonera ku gihe.

Inyange ni uruganda rukomeye cyane cyane nkaho ifitiye amakusanyirizo menshi akusanya amata, aturuka ku borozi bo munce zigiye zitandukanye z'igihugu. Kandi bafite n'ibindi binyobwa bigiye bitandukanye, yaba ibikurwa ku mbuto cyangwa ibikomoka ku mata.

Ku makusanyirizo menshi y'amata ukunze gusangayo abantu bagiye batandukanye baba baje kurangura nabo amata kugira ngo bagende bayashyira abaturage mu gihe baba batashoboye kuva iwawo ngo baze ku makusanyirizo kuyigurira. Aho bifashisha amapikipiki mu kohereza ayo mata ahantu henshi hagiye hatandukanye.

Amakusanyirizo menshi yaje ari igisubizo ku baturage kuko niho bajya gukura amata kandi bitabagoye bakayabona mu gihe bayakeneye n'umuryango wabo.

Henshi ku makusanyirizo y'amata hakunze kuba hari imashini zikoreshwa mu kuba zabika amata kandi zikaba zayarinda gupfa mu gihe kinini ku buryo umukiriya naza asanga hari amata mazima.

Uruganda rutunganya rukanohereza amata hirya no hino mu gihugu rwa Nyanza, rukunze kuba rufite amakusanyirizo menshi yagiye atandukanye mu gihugu kandi kuri ayo makusanyirizo, hari n'ibyicaro aho umukiriya uje kunywa amata yakwicara mu gihe yaba abyifuza.

Mu makusanyirizo y'amata hagiye harimo ibikoresho bigiye bitandukanye bikoreshwa mu gihe umuntu yaba ari gufata ifunguro ry'iwe cyangwa ikinyobwa, aho bikunze kubonekamo impapuro z'isuku bakunze gukoresha barimo barafata ibiribwa byiganjemo nk'amandazi, amakeke cyangwa capati.

Mu makusanyirizo y'amata ukunze gusangamo amajerekani cyangwa utujerekani dutoya, aho badukoresha mu gupima cyangwa gupimurura ikinyobwa cy'amata aricyo gikunzwe gukoreshwa aho ngaho, nkaho dushobora kuvuga nk'uko umukiriya ashobora asaba amata menshi bakamuha injerekani yose cyangwa akajerekani gato.

Ku makusanyirizo y'amata usibye kuba bacuruza amata cyangwa ibindi binyobwa by'imitobe, bakunze kuba banafite amazi meza akoreshwa henshi mu ngo, atagira ingaruka na nkeya mu mubiri.

Ku makusanyirizo menshi aho bacuruza ikinyobwa cy'amata, bakunze kuba bafite amandazi yo gusomeza icyo kinyobwa, aho abana bagikunda n'abantu bakuru kuko ngo kirahendutse kandi ngo kiraryoha cyane.

Mu makusanyirizo menshi y'amata bakunze kuba bafite ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abakiriya mu kuba bakwicara bakanywa cyangwa bakaba barira ibiribwa biba bicuruzwa muri ayo maduka akunze kuba afitemo ibinyobwa bidasembuye.

Mumakusanyirizo y'amata usibye gusangamo amata atanyuze muganda ukunze no gusangamo ibiribwa cyangwa ibinyobwa bigiye bitandukanye byaciye mu ruganda kugirango byongererwe uburyohe n'ubuziranenge muribyo.

Amakusanyirizo menshi agiye atandukanye aho usanga ikinyobwa cy'amata ukunze kuhasanga n'amajerekani cyangwa ubujerekani buri mu ngano zigiye zitandukanye, uko umukiriya abyifuza agatwara ingano y'amata yifuza.

Ku makusanyirizo menshi y'amata bagiye bafite ibyuma bashyiramo amata yaturutse ku nganda zigiye zitandukanye, aho aba yateguwe kuburyo umuntu yahita ayanywa ako kanya cyangwa akaba y'ayashyira mugenzi wiwe akayanywa ako kanya bitagombereye kuba ya yateka kuko abateguye neza cyane kandi abaryoshye.

Ku makusanyirizo menshi agiye atandukanye mu gihugu, hakunze guhurira abantu yaba inshuti cyangwa imiryango bagiye gusangira ikinyobwa bakunze gucuruza, yaba amata cyangwa ibinyobwa biryohereye by'imitobe cyangwa amazi kugira ngo bumve bishimye muri bo kandi bagubwe neza.

Amakusanyirizo agiye atandukanye henshi, afite uburyo bugiye butandukanye bwo gukusanya amata aba avuye ku mworozi kugira ngo adapfa mu gihe atarabona umukiriya uyagura.

Capati ni ikiribwa gikunzwe n'abatari bakeya cyane cyane abantu bakunda kujya ku makusanyirizo y'amata bagiye kugura amata bakunze kugurayo icyo kiribwa bagira ngo bagisomeze amata.

Mu masaha y'igitondo mugihe abanyeshuri bataba bari bakajya ku ishuri ukunze kubasanga ku makusanyirizo y'amata aho baba bagiye kugura ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bashobora kurya mu masaha y'akaruhuko mu gihe bagiye kwiga.

Ikivuguto ni kimwe mu binyobwa bigurishirizwa ku makusanyirizo y'amata aho abantu benshi bakunze kugikunda kuko ngo kiryoha kandi akenshi baba banagikonjesheje, bityo rero kikaba gifasha benshi mu kubamara inyota.

Amandazi ikiribwa gikoze mu ifarini. Aho gitogoswa mu mavuta bakagikuramo, aho ngaho umuntu akaba yakirya. Rero ki kiribwa gikunze kubarizwa mu makusanyirizo y'amata nk'ikiribwa gikoreshwa mu gusomeza ibinyobwa bigiye bitandukanye.

Bamwe mu bafite uburyo bwo kuba bakwishyura cyangwa bakakira amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga bakunze kubwishimira kuko urubyiruko ni bamwe bakunze gukoresha ubu buryo kandi bakaba bava mu rugo bakiri bazima.

Wowe nk'umufana ntukamwire uburyo abantu bakunze umuyoboro wa emutiyeni ahubwo uzajye umbwira umbwira iibikorwa by'uwo murongo kugira ngo tugendane kandi tuzafashanye kukuba umuntu wese aba afite ubwenge bungana nk'ubwo uwundi.

Hari bamwe mu banyamahanga badafite ubumenyi mu kuba bavunjisha ifaranga ryo mu gihugu cyabo barijyana mu gihugu cyo muri Afurika, bakunze kuba bagira ibibazo byo kuba basobanuza abantu benshi kuko iyo miyoboro itigeze ishyiraho abantu benshi bo kuba babasha gusobanurira abantu bafite indimi zigiye zitandukanye ku si yose.

Benshi mu baturage bakunze gukoresha amafaranga atari ayo mu bihugu byabo, aho twavugamo nk'amayero cyangwa amafaranga akunze gukoreshwa mu gihugu cy'abaturanyi cy'Ubugande cyangwa cya Tanzaniya, ndetse n'icya Kongo tutakibagiwe kuko hari benshi mu baturage b'Urwanda bafite imikoranire ya hafi n'ibyo bihugu.

Hari amaduka agiye atandukanye akoresha kuvunja cyangwa gufata ifaranga rimwe ryo mu kindi gihugu bakarivunja mu mafaranga yo mu gihugu arimo, ku buryo umuntu ashobora kugura ikintu bitagombereye kuba yajya gusobanurira umucuruzi ifaranga afite ari iryo mu kihe gihugu.

Hari abantu bakunze gukoresha amafaranga y'ibindi bihugu mu kuba bavunjisha kugirango babe babona adutubutse aho baba barabikije amafaranga y'igihugu gikomeye ku isi gikora ubucuruzi bukomeye kuburyo batazigera bahomba.

Bamwe mu batunze imbuga nkoranyambaga zo kugura cyangwa ugurisha ukoresheje ikoranabuhanga, bakunze kuba bagirana imikoranire n'abantu bagurusha amasambu yabo, igihe baba bakeneye amafaranga yo gukora igikorwa kimwe cyangwa ikindi mugihugu cy'u Rwanda.

Hari benshi mu banyamahanga bakunze kugeza k'umugabane w'Afurika mu kuba bakwamamaza imbuga cyangwa murandasi zikunze gukoreshwa ku mbuga nkoranyambaga, kugira ngo bigishe abatubutse ku mbuga nkoranyambaga zabo, kandi babe abakire kurusha abandi batuye mu bihugu by'amahanga.

Ari ahantu hakorerwa ibikoresho bijyanye nubugeni aho ushobora gusanga ibikoresho biba bibereye ijisho aho abakiriya bagomba kubyishimira kubera uburyo abanyabugeni baba babikozemo.

Abantu bakora intebe cyangwa bagakora amameza agiye atandukanye mu buryo bwo kunoza ubugeni bwabo bakunze gukora amameza aho abana bashobora kwicara batisimbukuruje cyangwa abantu bakuru bakaba bakwicara bameze nkaho basutaraye.

Benshi mu bantu bakoresha itabi, bakunze kuba bitonda kandi bakunze kubaha, mugihe nk'iyo baririmbana baba batakunze kuba babandika cyangwa babaha uruhushya.

Umuntu uvuga yuko twakoze ibintu bikomeye, ashobora kuza akicara imbere akabikora muburyo bumwe cyangwa ubundi kandi bikurikiranyije kandi bakaba batanga igiciro kingana n'icyo waciye mugihe turimo turagenda dufungura amaduka y'abandi.

Hari amwe mu mahoteri akunze kuraramo abantu baba bagiye mu busambanyi cyangwa abashakanye mu gihe baba bagiye mu birori bigiye bitandukanye aho babaha akaruhuko kandi bakabaha akuka ko gukonja mu gihe haba hari ubushyuhe.

Benshi mu baturage bafite amafaranga ahagije bakunze kujya mu mabanki cyangwa ku mirongo igiye itandukanye bakoresha mu guhamagara cyangwa kugura interineti bagiye gufata inguzanyo kugira ngo bizinesi zabo zitere imbere.

Mu kugura cyangwa kugurisha ibicuruzwa bimwe na bimwe by'ikoranabuhanga bikunzwe ngutanga serivise zigiye zitandukanye aho zagenewe urubyiruko cyangwa benshi bagiye batandukaye bafite ubushobozi buri hasi ugereranyije n'abandi bari muri ako gace.

Hari abantu bagiye batandukanye, baba barahawe amasoko mu nshingano zabo, aho ushobora kwishyura abo bantu ubukode cyangwa amafaranga yo guteza imbere abaturage bo muri iki gihugu kugira ngo nabo bazagere no ku byo wagezeho mu gihe gitoya.

Urubyiruko cyangwa abari n'abategarugori bakunze kuba bafite amaduka agiye atandukanye kandi anacuruza ku mugabane w'afurika, aho tuba dusaba umugabane w'afurika kuba wajya mu basaza bamaze gihe mu kugura cyangwa kugurisha bakoresheje ikoranabuhanga.

Umurongo wa emutiyene nk'umwe mumirongo ukoresha n'abantu batari bakeye mu igihugu cyangwa bo k'umugabane w'isi, akunzwe gukoresha netiwaka zigiye zitandukanye zitandukanye aho ushobora gukoresha amafaranga yo mubihugu bimwe cyangwa ibindi mukugura cyangwa kugurisha amayinite mu gihe waba ubikeneye.

Benshi mu bantu bafite imikoranire n'umuyoboro wa Emutiyeni, bakunze kwakira cyangwa bakoherereza amafaranga ku miryango yabo cyangwa inshuti mu gihe baba bayakeneye, baba bayabagurijie cyangwa bakaba bayabahaye burundu.

Bamwe mu baturage bakunze kwishimira uburyo umurongo wa emutiyene cyangwa indi mirongo bikunze gukoresha mu kuba wakohereza cyangwa kwakira amafaranga utavuye aho uri, kandi ukaba wabikoresha mu gihe uri kumwe n'umuryango cyangwa inshuti yawe bitagombyeye kuba wajya kubisaba ku mashami agiye atandukanye y'iyo mirongo.

Njywewe nabwiye umuhanzi cyangwa undi muntu ukora ibikorwa byo kugurisha cyangwa kwakira ibintu bitandukanye ku ikoranabuhanga yuko ntakwigera nkoresha umuronko wa hipapu mu kuba nakwinjiza amafaranga hirya no hino ku isi.

Benshi mu bakozi cyangwa ba nyiri murongo wa emutiyeni bakunze kujya gusura amashami yabo kugira ngo barebe serivise batanga nimba zinogeye abakiriya b'uwo murongo, kandi bazibona vuba.

Umuronga wa Mtn washyizeho abakozi bashinzwe gusobanurira abakiriya bawu uwo murongo ibyo bashobora gukoresha cyangwa batagomba gukoresha mu ikoranabuhanga kugira ngo batazigera bagwa mu byaha.

Umuyoboro wa emutiyeni nk'umuyoboro ukoreshwa yaba kohereza cyangwa kwakira amafaranga, washyizeho uburyo bworoshye aho ushobora kohereza cyangwa ukakira amafaranga bidasabye kuba ufite interinete muri telefone yawe cyangwa ufite telefone yaba ikurura interinete.

Hari amashami agiye atandukanye y'umurongo wa emutiyeni aho ushobora gusanga ibicuruzwa byawo bikoreshejwe kuri murandasi, aho ushobora kwakira cyangwa ukohereza amafaranga ahantu kure kandi utiriwe utega cyangwa ujya gutonda umurongo ku ma banki.

Umuyoboro wa emutiyene wegereje abakozi bawo abantu bakoresha uwo muyoboro, muburyo bwo kwakira cyangwa kohereza amafaranga ku buryo niba ukeneye amafaranga mu ntoki, ushobora kubaza umukozi wabo niba ayafite akaba yayaguha utagombye kuba wajya kubikuza kuri banki.

Umurongo wa eyateri ni umurongo ukorera mu Rwanda aho usanga wahabwa serivise zose zigiye zitandukanye, ushobora kuba wagana ibyicaro bigiye bitandukanye kuko uno murongo worohereje abaturarwanda kuba babona ibyicaro ahantu hose.

Umurongo wa emutiyene washyize amashami agiye atandukanye hirya no hino mu gihugu, aho wasanga serivisi zabo zigiye zitandukanye yaba gutanga amayinite cyangwa kuba wagura iterinete; akenshi abantu bakunze no kuyikoresha mu kohereza no kwakira amafaranga.

Umuyoboro wa emutiyeni ufite apurikasiyo yawo, aho ushobora gusanga serivisi z'uwo murongo zose kandi ukazibona zihuse kurusha uko wagakoresheje ubundi buryo busanzwe bukoreshwa kuri uwo murongo.

Umuyoboro wa emutiyeni wagiye ushyiraho ubuzu bugiye butandukanye, ushyiramo abakozi babo aho umuturage ukeneye serivise zabo yaba kugura cyangwa kohereza amafaranga ashobora kujya kuri uwo mukozi akamuha izo serivise yifuza.

Kohereza cyangwa ukakira amafaranga ni uburyo bukoreshwa n'abatari bakeya. Bityo mugihe ipikipiki yagutwaye ushobora kohereza amafaranga kuri uwo mushoferi w'iyo pikipiki akaba ari ho wamwishyurira.

Umurongo wa MTN washyizeho abakozi benshi bo korohereza cyangwa bakaba bakwakira amafaranga, babitsa cyangwa babikuza, ku buryo bahaye abaturage benshi akazi higanjemo ababyeyi, bari badafite akazi ariko ubu bakaba barabonye imirimo kubera uyu murongo wa MTN.

Kohereza cyangwa ukakira amafaranga ukoresheje terefone yawe ni uburyo bugezweho, aho bukoreshwa n'abatari bakeya, bityo hari imirongo yagiye ishyiraho uburyo bwo kwegereza abakoresha serivisi z'iyo mirongo kugira ngo babone serivisi yo kohereza cyangwa wakira amafaranga utagombye kujya ku gutonda imirongo kuri banki.

Umurongo wa Airtel washyizeho uburyo bugiye butandukanye aho ushobora kwakira cyangwa ukohereza amafaranga mu buryo bukoroheye kandi bitagombereye kuba wakoresha izindi ngufu.

Umurongo wa MTN washyizweho uburyo butandukanye aho ushobora kwishyura umucuruzi igicuruzwa cyose waba uguze batagukase kumafaranga yawe kandi umucuruzi akabona amafaranga akamugeraho yuzuye nk'uko igicuruzwa wasabye cyaguraga.

Umurongo wa MTN nk'umurongo ukunzwe cyane henshi mu gihugu, washyizeho uburyo bwinshi bugiye butandukanye, aho wakohereza cyangwa ukakira amafaranga mu buryo bukoroheye bitagombereye kuba wajya kuri banki kubikuza.

Umuronko wa MTN wa ushizeho uburyo bwo kwakira amafaranga kubacuruzi kuburyo umuguzi atakatwa amafaranga ahubwo hakazakatwa umucuruzi amafaranga makeya ugereranyije n'ubundi buryo bwo kwishyura.

Henshi mu maduka cyangwa amazu atangirwamo serivise z'umurongo wa emutiyeni, bakunze kuba bafite uburyo bwa tombora aho umukiriya aza agatombora akaba yatombora amafaranga cyangwa igikoresho k'ikoranabuhanga.

Umuronko wa eyateri ndetse n'uwa emutiyene ni imwe mu muronko ikinze gukorana hari aho usanga barashyize ubuzu, bukaba bwegeranye kugira ngo ukenere serivise z'umuronko umwe cyangwa undi bashobore kubagereraho bombi icyarimwe.

Mu utuzu dutangirwamo serivise za MTN, yaba kohereza cyangwa kwakira amafaranga ukoresheje telefone, ukunze gusangamo abakozi babo, biyicariye bategereje abakiriya bashobora kuza kwaka serivise z'umurongo wa MTN.

Henshi mu gihugu, ushobora kuhasanga serivise zigiye zitandukanye za Emutiyeni aho bagiye bashyira amashami yabo mu duce tugiye dutandukanye tw'igihugu ku buryo umuntu ukeneye serivise zijyanye na Emutiyeni ashobora kuzihasanga.

Hari uburyo bugiye butandukanye bwo kohereza cyangwa ukakira amafaranga ukoresheje telefone yawe, utagombye kujya kuri banki kwakira amafaranga mu ntoki ukayakoresha ari muri telefone yawe. Kandi ukayageza aho yagombye kugera mu buryo bworoshye

Umurongo wa Emutiyene cyangwa umurongo wa Eyateri, bashyizeho uburyo bwo kuba wagura amayinite cyangwa wakwakira cyangwa ukohereza amafaranga ukorehseje terefone yawe, bitagombeye kuba wajya gusaba serivise ku mukozi wabo uba ubishinzwe.

MTN ikunze gushyiraho uburyo bugiye butandukanye bwo gushimisha abakiriya bayo, nkaho ugenda ugafata utuzu tugendanwa bakadutereka mu muhanda cyangwa ahantu hakunze guhurira abantu benshi, bakaba bashyiramo ibikorwa by'imyidaduro kugira ngo baze babirebe kandi bishime bakomeze gukoresha umurongo wa MTN.

Abari n'abategarugori n'abantu bashizwe imbere kubera amateka yari yarabahereje inyuma, umurongo wa MTN nawo ntiwabuze kubashira imbere mu kubaha akazi kandi batagendeye kukintu icyaricyo cyose kubera ko bashoboye kandi bashobotse kurusha basaza babo.

Umurongo wa emutiyeni, ukunze gukoreshwaho uburyo bwo koherereza no kwakira amafaranga ukoresheje telefone yawe cyangwa umurandasi, washyizeho uburyo butandukanye bwo kwereka imibare y'ibanga y'abo bagiye koherereza amafaranga, cyangwa umucuruzi bagiye koherezaho amafaranga, babashyiraho utwapa tubafasha kugira ngo bamenye iyo mibare y'ibanga.

Ku kicaro cy'umurongo wa MTN ukunze gusanga hariyo serivise zigiye zitandukanye nk'iya makemake, aho umuntu agura telefone akazagenda ayishyura makemake yaba buri kwezi cyangwa ku cyumweru, cyangwa ukazayishyura ku mwaka wose bityo abantu bakoresha uyu murongo bituma bumva bakunze serivise z'uwo murongo.

Umurongo wa Mtn washyizeho uburyo butandukanye aho abakiriya bushobora kubasanga bakabasobanurira ibikorwa byabo, kandi abaturage nta kiguzi basabwe icyo aricyo cyose k'iyo serivise bagiye guhabwa.

Umurongo wa emutiyeni ukunze gufata abakozi b'uwo murongo bakabashyira ahantu hahuriye abantu benshi bakaba babaha serivise kugira ngo bishime kandi bumve bamerewe neza muri bo kubera serivise baba bahawe.

Umurongo wa emutiyeni wagiye ushyiraho abakozi benshi aho bagenda bazenguruka mu makaritsiye basaba abantu kuba bababwira serivise bifuza bakaba bazibakorera bitagombyeye kuba umukiriya ajya yazenguruka ajya gushaka amazu yaho abakozi ba emutiyemi baba baherereye.

kenshi mumigi cyango ibyaro bigiye bitandukanye mugihugu umuyoboro wa MTN wagiye ushyirayo utuzu tugiye dutandukanye aho twoherezaho amafaranga cyangwa ukakira amafaranga waba ubyifuza cyangwa arundi muntu wifuza kuba wamwohereza amafaranga ukayamwohereza bitangobye kuba wamusanga aho ari.

Benshi mu baturage higanjemo urubyiruko bahawe akazi n'umuyoboro wa MTN, bakunze gushima uwo murongo kubera ibyiza wabagejejeho, aho wabakuye mu bukene kandi bakaba bawukorera muri serivisi zawo zigiye zitandukanye aho bagurira abantu amayinite cyangwa bakayohereza cyangwa bakaba bakohereza amafaranga cyangwa bakabikuriza abantu.

Gukoresha ikoranabuhanga wishyura cyangwa wakira amafanga ni uburyo bukunze gukoreshwa ku mirongo igiye itandukanye cyane cyane ku muronko u wa emutiyene nk'umuronko utanga serivise yihuta kandi iboneka ahantu henshi hagiye hatandukanye.

Umurongo wa MTN nk'umurongo ukunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa ahandi henshi hatandukanye ku isi, washyizeho uburyo bugiye butandukanye bwo guha serivisi zinogeye abakiriya bayo kugira ngo bazishi bagende bishimye kandi bazagaruke.

Benshi murubyiruko nk'abantu bakunze gukoresha, kugura cyangwa ukagurisha ukoresheje murandasi, bakunze gukoresha umurongi wa MTN, mukugura ibikoresho cyangwa ukabigurisha ukoresheje murandasi, bityo rero bigatuma bajya gusobanuza abakozi ba MTN uburyo bazajya bakoresha uwo murongo badakoze ibyaha.

Umurongo wa emutiyene ni umurongo ukunzwe n'abatari bakeya mu gihugu cy'u Rwanda, ukunze gutanga serivisi zabo mu mashama yagiye atandukanye aho bagiye bashyiraho abakozi benshi ku buryo umukiliriya ahagera bakamusobanurira uburyo yakoresha nk'umurongo kandizi icyaha.

Umurongo wa emutiyeni nk'umurongo ukunzwe gukoreshwa n'abantu batari bakeye mu gihugu, ukunzwe no kuba ukoreshwa n'abanyamahanga baje gusura igihugu cyangwa baba baje mu miryango yabo gutura muri Afurika.

Henshi mu gihugu hashyezweho ubuzu bugiye butandukanye bw'umurongo wa Emutiyeni. Bafite ibikorwa bigiye bitandukanye by'uwo murongo. Aho batanga serivise z'uwo murongo yaba kugura amayinite cyangwa kuyagurisha, cyangwa bakaba babikuza, bakanohereza amafaranga.

MTN, nk'umurongo ufite abantu batari bakeya bawukoresha. Washyizeho uburyo bwo gusobanurira abakiriya b'uwo murongo ibikorwa byabo kandi bakabibasobanurira mu buryo bunoze ku buryo buri wese yasobanukirwa ubwo busobanuro bwabo.

Henshi mu masoko atandukanye mu gihugu, bafite uburyo bwo kwishyura cyangwa bakakira amafaranga bakoresheje telefoni zabo, yaba Mobile Money cyangwa n'ibindi bigiye bitandukanye mu buryo bubanogeye.

Abantu benshi bakora ibikoresho by'ikoranabuhanga cyangwa bakaba babigurisha bakunze gukoresha umuyoboro wa emutiyene nk'umuyoboro ufite serivisi yihuta kandi bakaba bafite netiwaka iri ku rwego rwo hejuru, mu kwakira cyangwa kohereza amafaranga.

Abaturage benshi bishimiye serivise ya mtn bakunza kujya kuyikoresha bohereza cyangwa bakira amafaranga yaba kohereza mu miryango yabo cyangwa ku ncuti zabo cyangwa bakaba bayohereza kubacuruzi, bakunze gukoresha umuyoboro wa mtn ngo kuko urihutisha serivise zabo.

Umurongo wa eyateri washyizeho uburyo bugiye butandukanye, aho ushobora kwakira cyangwa ukohereza amafaranga ku nshuti cyangwa umuryango cyangwa wishyura umucuruzi ku bicuruzwa yaguhaye mu buryo bworoshye kandi bunogeye buri umwe.

Umurongo wa Airtel ni umwe mu mirongo ikunze gukoreshwa n'abatari bakeya, na wo washyizeho uburyo bugiye butandukanye, aho wakohereza amafaranga cyangwa ukayakira mu gihe ubikeneye kandi ukabikora bitagoranye cyane.

Umurongo wa emutiyene washyizeho uburyo bugiye butandukanye aho wagura amayinite cyangwa interinete bitakugoye kandi ku giciro gitoya ugereranyije na enterinete baguha.

Abacuruzi benshi bagiye batandukanye mu gihugu yaba abacuruza ibiribwa cyangwa ibidahita biribwa bakunze gukorana n'umurongo wa MTN mu kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga kandi batagukase.

Umurongo wa MTN ni umurongo ukunze gukoreshwa n'abatari bakeya mu batuye ku mugabane w'Afurika, ufite uburyo bwinshi bw'aho wagura amayinite yo guhamagara cyangwa interineti yose.

Usibye kuba umuyoboro wa emutiyene ufite serivisi zigiye zitandukanye, aho ushobora kuvugana n'umuntu cyangwa ugakoresha interinete, ushobora no gusangamo izindi serivise, aho ushobora kohereza umuntu amafaranga batagukase, kandi hari n'indi serivise, aho ushobora kubona telefone zabo ku giciro gihendutse.

Emutiyeni ni umurongo ukorera mu Rwanda, aho ushobora kuba wahasanga serivise zigiye zikwegereye. Aho ngaho ushobora kuba wagana ikigo gikorera emutiyeni kiri muri ako gaturage ukaba wahabwa serivise neza ku giciro kiza.

Umuyoboro wa emutiye ni ni umwe mu miyoboro ikunzw gukoresha ku mugabane w'afurika, washyizeho uburyo bigiye butandukanye bwo kuba wakohereza cyangwa wakwakira amafaranga ukoreshe telefone yewe bitagombye kujya ku mabanki kubikuzayo amafaranga.

Umurongo wa mtn yasizeho uburyo bugiye butandukanye bwo kwamamaza ibikorwa byabo nkaho ushobora kumanika ibyapa ku mihanda cyangwa bagaha impapuro ziriho ibikorwa byabo, bashobora kugeza kubaturage bakaziha abakozi bakagenda baziha abaturage ahantu hagiye hatandukanye.

Umuyoboro wa emutiyene nk'umwe mu miyoboro ikunzwe ku mugabane wa Afrika ukunze kuba yarashyizeho uburyo bugiye butandukanye bwo kwegereza abakoresha uwo murongo serivise zawo, yaba kohereza amafaranga cyangwa kuyakira cyangwa kugura amayinite cyangwa interinete mu buryo bworoshye.

Mu tuzu tw'umurongo wa emutiyeni ducururizwamo serivise za emutiyeni, ukunze gusanga bafite uburyo bwo kubitsa amafaranga aho bakwandika bakanandika uburyo baguhayemo serivise. Kugirango bazabikoreshe mu ngengo y'imari y'uwo murongo y'umwaka utaha.

Umurongo wa emutiyene washyizeho uburyo bwinshi, aho wakohereza amafaranga ku gicuruzwa waba uguze k'umucuruzi mu buryo bukoroheye kandi nawe akayakira nta gukoresha amafaranga mu ntoki.

Mu bihe bigiye bitandukanye byo kwamamaza ibikorwa by' umurongo wa Emutiyene, dukunze gusanga uwo murongo uha abaturage ibihembo bigiye bitandukanye ku marushanwa baba bateguye, yo kugira ngo basusurutse rubanda nyamwinshi.

Benshi mu baturage bakunze kuba bafite ibyishimo iyo bamaze gukoresha uburyo bwashyizweho n'umurongo wa emutiyeni wo kohereza cyangwa kwakira amafaranga bitewe nuko babona serivise zabo zihuta.

Mu mihanda igiye itandukanye iri hirya no hino mu gihugu, ukunze gusangamo abantu bigendera yaba abavuye mu kazi cyangwa abarimo barakajyamo. Umurongo wa Emutiyene wagiye ushyira uburyo abo bantu bashobora kubona serivise kandi bitabagoye.

Benshi mu rubyiruko bashimira umuyoboro wa emutiyene kukuba warabahaye akazi, aho mu dushami bagenda bashinga hirya no hino mu gihugu bagenda bashyiramo urwo rubyiruko, rukaba rwakohereza cyangwa rukakira amafaranga ku muyoboro wa emutiyene kandi bakiteza imbere.

Benshi mu bacuruzi bakunze gukoresha umurongo wa emutiyeni mu kwishyura cyangwa kwakira amafaranga y'ibicuruzwa byabo kubera ko abantu benshi bakoresha uyu murongo mu gihugu cy'u Rwanda.

Bamwe mu bakozi ba emutiyene bakunze gusanga abantu aho bakorera bakabaha serivise zigiye zitandukanye yaba kubikuza cyangwa kubitsa amayinite, cyangwa ukaba wagura amayinite igihe waba ubikeneye.

Umurongo wa MTN, wifashishije ikoranabuhanga, wakoze ubundi buryo bwo kuba wakohereza cyangwa ukwakira amafaranga udakaswe, nk'ubundi buryo bwajyaga bukoreshwa mbere y'ubwo buryo ko buza.

Ikinyobwa cya kokakola nacyo nk'ikinyobwa gikunzwe henshi ku isi, gifite uburyo butandukanye aho bagiye bafata ubuzu bakagenda babushyira ahantu henshi, kugira ngo abakunzi b'icyo kinyobwa bakibone yaba abanyamahanga cyangwa abandi bantu batuye muri icyo gihugu.

Umurongo wa emutiyene iyo wagiye kwamamaza ibikorwa byayo bijyanye no kwakira cyangwa kohereza amafaranga utavuye aho uri, abantu benshi bakunda kwizihirwa bakabyina bakanacuranga.

Amaguriro agiye atandukanye agurisha imyenda na yo ni abafatanyabikorwa n'umuyoboro wa emutiyeni, mu kwakira cyangwa kohereza amafaranga mu bakiliya babo kugira ngo ntihagire umukiliya ukoresha amafaranga mu ntoki.

Umurongo wa MTN wagiye ushyiraho amashami agiye atandukanye, aho ushobora gusanga serivisi zabo yaba kohereza cyangwa kwakira amafaranga, aho abagabo n'abagore cyangwa imiryango igiye itandukanye ikunze kujya kugira ngo bohereze cyangwa bakire amafaranga yo bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umurongo MTN ufite serivise nyinshi aho ushobora kubona serivise yabo kugura amayinite cyangwa gukoresha interinete mu buryo bukoroheye kandi bitagusabye kujya ku bagenti bayo kugira ngo babigukorere, ukabyikorera n'amaboko yawe.

Umurongo wa emutiyeni washyizeho uburyo butandukanye, aho ushobora kohereza amafaranga ku mucuruzi, batagukase ku mafaranga yawe. Kandi n'umucuruzi akamugeraho yuzuye, cyangwa yaba ari menshi cyane, bakamukataho amafaranga make, ugereranyije n'uko uburyo bwa mbere bwakoreshwaga bwari bumeze.

Hari amaduka menshi cyangwa amakusanyirizo y'amata, akoresha uburyo bwo kwakira cyangwa kohereza amafaranga ku muyoboro wa MTN kuko ngo bikorwa byihuse kandi bikaba nta kiguzi kiri hejuru babasaba.

Umurongo wa emutiyeni washyizweho utuzu twinshi, aho wasanga serivisi zabo, yaba gutanga amafaranga cyangwa kuyakira mu buryo bw'ikoranabuhanga, ukoresheje telefoni yawe, bitagombye gukoresha amafaranga mu ntoki.

Emutiyeni nk'umurongo ukoreshwa n'abantu benshi, ufite n'izindi serivise uha abakiriya bawo, kugira ngo bishime, yaba gutanga ubucupa banyweramo amazi cyangwa kubaha imipira, mu rwego rwo kwamamaza ibikorwa by'uwo murongo.

Umurongo wa MTN washyizeho uburyo bugiye butandukanye, bwa Momo ushobora gukoresha wohereza cyangwa wakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bitagombereye gukoresha izindi ngufu.

Umurongo wa emutiyeni washyizeho uburyo bugiye butandukanye aho bagiye bashyira ibyicaro mu gihugu hirya no hino, aho umukiriya ashobora kujya akaba yababwira ikibazo yagiriye ku murongo wabo, bakaba bakimukemurira kandi ntakiguzi bamusabye.

Umurongo wa emutiyeni washyizeho abakozi babo bashobora kugera kubakiriya babo aho baba batuye, aho wagiye ubaha amapikipiki cyangwa ukabaha imodoka yo kugirango bageze ibikorwa byabo kubakiriya.

Umurongo wa MTN nk'umurongo ukoreshwa n'abantu batari bake mu gihugu, washyizeho uburyo bugiye butandukanye bwo kugezaho abakiriya babo serivisi mu buryo bworoshye kandi bwihuse bunogeye buri mukiriya w'uwo murongo.

Abantu benshi cyane cyane abakeneye ibikorwa bitandukanye, bakunze kwishyura bakoresheje umurongo wa Emutiyeni, kubera ko wohereza amafaranga bitagombye kuba ufite amafaranga mu mufuka; cyangwa se Emutiyeni ikaba na yo yakuguriza mu zindi serivisi zayo kugira ngo ubone amafaranga yo kuba wakwishyura igicuruzwa waba uguze.

Ikoranabuhanga rikunze gukoreshwa aho umukiriya ashobora gukoresha ikarita aba yarahawe na banki yohereza cyangwa yakira amafaranga, aho ashobora gukoresha iyo karita agura ibicuruzwa yaba akeneye gukoresha.

Umurongo wa mtn washyizeho uburyo butandukanye bwo kohereza abacuruzi ibyapa byerekana imibare y'ibanga yabo yo kugira ngo babishyirireho hariho n'amazina yabo mu buryo bworoshye.

Abakozi benshi b'umuyoboro wa mtn baba baba bamutuzu tujye dutandukanye, aho baba baradushyize mu makaritsiye menshi mu gihugu bakunze kuba bafite ibitabo bandikamo serivisi batanze ku munsi n ibyo abakiriya batishimiye muri icyo gihe kugirango uyu muyoboro uzabikosore.

Umurongo wa emutiyene nk'umurongo ukunzwe n'abantu benshi, mu rwego rwo kwamamaza ibikorwa byabo, bagiye bashyiraho ibikorwa by'amarushanwa y'abakiliya babo, aho umukiliya uguze amayinite menshi cyangwa interineti nyinshi ahabwa ibihembo bitewe nuko yakoresheje umurongo mu gihe cy'ukwezi cyangwa cy'umwaka.

Umurongo wa eyateli nk'umwe mu mirongo ikoreshwa n'abatari bakeya, na wo ni umwe mu mirongo ishobora koherezwaho cyangwa ukakirwaho amafaranga n'abaturage, mu buryo bworohye, bitagombye kuba bajya ku mabanki.

Umurongo wa emutiyene ni umurongo ukunzwe cyangwa ukoreshwa n'abantu batari bakeya ushyizeho uburyo bwo kwegereza ababukoresha, uburyo bwo kohereza cyangwa ukakira amafaranga utagombye kuba wajya gutonda imirongo kuri banki.

Ahenshi ku makusanyirizo ya peteroli ukunze gusanga umurongo wa emutiyeni waragiye ukahashyira abakozi babo, kugira ngo abantu baje kugura peteroli babone aho babikuriza amafaranga bagiye kwishyura abo ngabo bahaye peteroli.

Umurongo wa MTN, mugutanga serivise zawo, bakunze guha abakiriya bawo poromosiyo, k'uburyo bugiye butandukanye, yaba kohereza cyangwa kwakira amafaranga, cyangwa bakaba babaha ama simukadi akoreshwa n'uwo murongo.

Amaduka menshi ahantu hagiye hatandukanye mu baturage abagiye bafite imibare y'ibanga ushobora gukoresha uboherezaho amafaranga cyangwa bo bohereza amafaranga mu gihe bagiye kurangura ibicuruzwa baba bakoresha mu maguriro yabo.

Muburyo bwo kwakira cyangwa kwohereza ukoresheje terefone amafaranga abantu benshi bakunze kuba bakoresha amaterefone yabo bashyiraho amakode umwe akayandika muri terefone yiwe kugirango ahite abona amafaranga bamwohereje.

Ku mashami agiye atandukane y'umurongo wa emutiyene bagiye bashyiraho uburyo bwinshi bwo kwakiramo abakiriya babo, baba bafite ikibazo wenda nimba yaba ari icyo kwakira cyangwa kohereza amafaranga za zakira serivise zindi zigiye zitandukanye uwo murongo ugenda utanga.

Umurongo wa emutiyene ufite uburyo bwinshi wagiye ushyiraho aho yagiye ifata abakozi ikabashyira hirya no hino mu baturage aho umuturage ashobora gusanga serivise zabo bitagombeye kuba bagenda bakajya kubasanga aho bakorera ku byicaro byabo, ahubwo bakajya kuri ayo mashami baba barashyizeho.

Telefoni nk'igikoresho gikunzwe gukoreshwa mu ikoranabuhanga, yaba mu kwakira cyangwa mu kohereza amafaranga. Umuyoboro wa emutiyeni ushishikariza abawukoresha kuba bakoresha telefoni zigezweho, arizo ziba zikoresha enterinete kugirango babone serivise mu buryo bwihuse kandi bubanogeye.

Mu maduka agiye atandukanye mu gihugu, bafite uburyo bafata ibicuruzwa bakabinyuza mu mashini zabugenewe, zikaba zareba ibiciro zikanakora ifatabuguzi ry'amafaranga icyo gicuruzwa cyaguraga, bakaba bagiha umukiliya kandi akabona igicuruzwa kitamuhenze, mu buryo bwiza kandi bworoheye buri umwe mukoresha iyo serivisi.

Abagabo cyangwa imiryango myinshi igiye itandukanye bakunze kwishimira uburyo bwo kuba wohereza ibiribwa byatumwe n'abantu kw'ikoranabuhanga, aho baba baguze ibikoresho cyangwa ibiribwa kw'ikoranabuhanga bakaba babatuma ibyo biribwa bakabibageza aho biri kandi..

Amaduka akoresha ikoranabuhanga mu kugura cyangwa kugurisha ibigurishwa baba bafite, bashyize kuri iryo koranabuhanga, bakunze kuba bafite netuwaka iri hejuru yirukanka ku buryo bakohereza ibicuruzwa byabo ku bakiriya, kandi bakaba babiha abamotari bakoresha amapikipiki yabo bishyura.

Mu gihe muri bucuruze cyangwa mukaba mwakwakira ibikoresho byanyu muba mwatumije ku ikoranabuhanga mukunze gutegereza iminota itari mikeya aho tuba twabashije gusaba abantu bacuruza cyangwa bakaba bakwaka ibicuruzwa kuba babitugezaho hakiri kare.

Kuri murandasi ushobora gusangaho ibicuruzwa bitandukanye, ukabigura utavuye aho uri kandi ushobora no kuguriraho serivise zigiye zitandukanye z'imirongo ukoresha mu guhamagara cyangwa kuri interineti.

Ahenshi mu kugura cyangwa ukagurisha ukoresheje ikoranabuhanga, bagiye bafite aba motari aho bashobora kohereza ibicuruzwa cyangwa bakabyakira aho bashobora no kujyana abantu kuri mapikipiki yabo.

Igihugu cy'u Rwanda kimwe mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere, bakunze kugira imbuga nkoranyambaga zifashishwa mu gutanga serivisi ku baturage, yaba kuba wajya kwaka ibyangombwa by'ubutaka cyangwa ibindi byangombwa waba ukeneye ukaba wajya ku rubuga bashyizeho ukaba wabisaba kandi bakabiguha.

Kugura cyangwa kugurisha ukoresheje ikoranabuhanga, nk'uburyo bukunzwe na benshi batuye isi, ukunze gusangaho ibicuruzwa bitandukanye mu moko atandukanye kandi ukaba wabibona ku giciro kiri hasi ugereranyije n'ibindi biciro biri ku masoko.

Imbuga nkoranyambaga zikunzwe gukoreshwa mu kugura no kugurisha, hakunzwe gusangaho ibikoresho bikoreshwa mu buzima bwa buri munsi, nkaho ushobora gusangaho inkweto cyangwa ibindi bikoresho bikoreshwa mu ikoranabuhanga, cyangwa ibindi bikoreshwa mu kwica udukoko two mu nzu nk'uko umukiriya yabyifuzaga akaba yabisanga aho.

Benshi mu baturage babonye utuzi bitewe n'uko ikoranabuhanga ryaje rikaba ryarabahaye akazi, aho usanga abantu bari bifitiye amapikipiki yabo baragiye bakagirana imikoranire n'imbuga zikorerwaho ibikorwa byo kugura cyangwa kugurisha ukoresheje ikoranabuhanga, bakaba babaha ibicuruzwa bakabigeza ku babikeneye.

Kugura no kugurisha ukoresheje ikoranabuhanga babigize muburyo bworoshye kuburyo umuntu wese ukeneye igicuruzwa yabafite aho yaba aherereye hose ashobora kwinjizamo konti yiwe cyangwa akayihimba ku buryo yakogurisha igicuruzwa kiwe kandi atavuye ahari kandi n'uwo agiye kugiha ntirirwe aturuka ahantu hamwe ajya ahandi kugira ngo akigezweho.

Imbuga nkoranyambaga zikoreshwa mu kugura cyangwa kugurisha ibikoresho bigiye bitandukanye cyangwa ibicuruzwa, ubu ngubu hasigaye harabaye isoko rigari nk'uko umuntu uwo ari we wese, ashobora kuhisanga akagurishaho ibicuruzwa by'iwe.

Mu kugura no kugurisha hakoresheje ikoranabuhanga, hakunze kubamo ibibazo bigiye bitandukanye ariko, muri uko kubona ibibazo bigenda biboneka, mu kugura no kugurisha ukorsheje ikoranabuhanga, ba nyir'imbuga bashyizeho uburyo bugiye butandukanye bwo kurinda amakuru y'abakiriya babo.

Amapikipiki atwara ibintu cyangwa ibikoresho byaguriwe ku mbuga nkoranyabaga, ukunze gusanga afite ibyapa biba biriho imibare y'ibanga ishobora kwifashishwa mu gihe iyo pikipiki itaba yagejeje ibintu bayihereje by'umukiliya

Henshi ku ikoranabuhanga aho ugura cyangwa ukagurisha ibicuruzwa ukunze gusanga, aho abantu bamamaza ibikorwa byabo mu mavidewo, bavuga ibicuruzwa bafite n'ibiciro byabyo kandi bagasobanurira buri mukiriya wese waba ukeneye igihe igicuruzwa cyabo uko cyamugeraho mu buryo bumworoheye.

Mu kugura cyangwa ukagurisha ukoresheje ikoranabuhanga byaroroshye kuko umuntu ashobora kugura ikintu ari mu gihugu kimwe akigura mu kindi, bitagombereye kuba yagenda ku kibuga cy'indege agatega akajya muri icyo gihugu kugira ngo agisangeyo, ahubwo akaba yakigurira kuri murandasi yiwe, bakakimugezaho kandi vuba.

Hari ubucuruzi bugiye butandukanye bukorerwa kuri murandasi aho umucuruzi cyangwa umukiriya ashobora gusanga ibyo yifuza, akabitumiza atavuye aho ari bakabimuzanira kandi mu buryo bworoshye bitamugoye.

Abantu benshi bagura bifashishije ikoranabuhanga ku mbuga ziba zashyizeho ibintu bigurishwa, bakunze kwishimira uburyo bahabwa serivisi n'ababibagezaho kandi bakabibagerezaho ku gihe.

Amapikipiki menshi akoreshwa mu kugura cyangwa mu kugurisha ukoresheje ikoranabuhanga ageza ibintu kubabiguze, akunze kuba afite ubukapu, yaba ubukoze mu byuma cyangwa ubukoze mu mwenda, aribwo bifashisha mu kubika ibikoresho cyangwa ibicuruzwa biba byaguzwe n'abakiliya ku mbuga nkoranyambaga.

Mu kugura cyangwa ukagurisha akoresheje ikoranabuhanga, ushobora kuba uri umuguzi ariko ukaba waba n'umucuruzi kubera ko bidasaba kuba wajya kwishyura izo mbuga nkoranyambaga zikoreshwa zigura cyangwa zigurisha ibicuruzwa, ku buryo bukunogeye kandi bukoroheye bitagombye kuba wajya gukodesha ahandi hantu haguhenze kandi bigakorwa mu gihe gitoya.

Kuri murandasi ushobora gusanga ibicuruzwa bigiye bitandukanye, aho ushobora gutumiza imigati ikoze neza bakayikugezaho uko ubyifuza cyango ibindi bicuruzwa byaba bikorerwaho aho ngaho kuri murandasi.

Amapikipiki menshi akoreshwa mu kohereza cyangwa kwakira ibicuruzwa byasabwe bikoresheje murandasi, aho bagura cyangwa bakagurisha bakoresheje interineti, bikunze kuba biri mu mabara y'umutuku.

Hari imbugankoranyambaga zikoreshwa mu kugura cyangwa kugurisha ukoresheje ikoranabuhanga aho usanga uburyo busobanutse bwo kugira ngo ukoreshe izo mbugankoranyambaga ugura cyangwa ugurisha.

Abantu benshi bakoresha ikoranabuhanga bagura cyangwa bagurisha ibicuruzwa aho ushobora kubyohereza umuntu ukoresheje ipikipiki ndetse n'ababimugezaho muburyo bimworoheye kandi bitagombereye kuba yava aho aherereye.

Kugura cyangwa ukagurisha ukoresheje ikoranabuhanga byaje ari igisubizo aho ushobora kohereza umufuragiro ku muntu waba yaguhaye igicuruzwa cy'iwe cyangwa waguze igicuruzo cyiwe, ukaba wamuha amafaranga utagombye kuva aho uri, kandi nawe akamugeraho yuzuye.

Abagabo cyangwa abari n'abategerugori bakunzwe gukoreshwa mu kohereza cyangwa kwakira ibicuruzwa byaguriwe kuri murandasi, aho bafata ibyo bicuruzwa bakabigeza kubabiguze bakorehseje ikoranabuhanga ryo kugura no kugurisha utavuye aho uri.

Kugura cyangwa ukagurisha ukoresheje ikoranabuhanga nk'uburyo bukoreshwa n'abatari bakeya, abenshi bakunze gushyiraho ibikorwa byabo, yaba bafite aho babikorera cyangwa babikorera iwabo mu rugo kandi bakabigeza ku babikeneye vuba kandi byihuse.

Amaduka acuruza cyangwa yohereza ibintu ku bakiriya babo. Bakunze kuba bafitemo cyane ibikorwa abakobwa bishimira n'imisatsi imwe y'imiterano cyangwa bakaba bafite izindi poroduwi bakwisiga mu maso kugirango bagaragare neza.

Kugura cyangwa ukagurisha ukoresheje ikoranabuhanga ni bishyashya mu gihugu cy'u Rwanda kandi benshi ntibabizi ariko bikora neza kuko ngo ababikoresheje bahora bashimira umuntu wazanye ikoranabuhanga.

Mu kugura no kugurisha ukoresheje ikoranabuhanga hari uburyo bwashyizweho aho ushobora kugura imigabane muri izo kampani zashyizeho uburyo bwo kugura no kugurisha ukoresheje ikoranabuhanga kandi ukazunguka n'amafaranga uzunguka bakayashyira kuri iryo koranabuhanga ryabo.

Henshi ku mbugankoranyambaga zigiye zitandukanye zifashishwa kugura cyangwa ukagurisha, ukunze gusangaho ibikoresho by'ikoranabuhanga, nk'uko ushobora gusangaho nk'aho wagurirwa imashini za mudasobwa cyangwa kuguraho ibicuruzwa by'imyambaro n'inganda zigiye zitandukanye kandi zikomeye kwisi.

Mu kugura cyangwa kugurisha ukoreshe ikoranabuhanga harimo n'aho ushobora kohereza ubutumwa yaba ku nshuti zawe cyangwa ku muryango wawe mugihe utaba wabageraho cyangwa udafite igikoresho cy'ikoranabuhanga gishobora gukorana naho bari ukaba waboherereza ubutumwa kandi bukabageraho ukoresheje iposita.

Uko ikoranabuhanga rigenda ryiyongera muri rubanda hagiye hagaragara uburyo bugiye butandukanye aho ushobora kugura ibicuruzwa utavuye iwawe ukabigurira kuri murandasi bakabikugezaho mu gihe ubikeneye.

Amapikipiki ni kimwe mu binyabiziga bikunze gukoreshwa n'abantu bagura banagurisha bakoresheje ikoranabuhanga kugira ngo bagezweho ibyo baguze cyangwa bageze ibyo bagurishije ku bakiriya babo, kandi mu buryo bunoze, kandi butagoye buri umwe.

Abantu benshi bakunze kwishimira uburyo bwo kugura no kugurisha ukoresheje ikoranabuhanga, hakunze kugaragaraho uburyo bwinshi bwo kugabanya ibiciro ugereranyi n'uko kuyandi maduka wanjyayo ugasanga ibiciro byaho bihagaze.

Imbuga nkoranyambaga, zigura cyangwa zikagurisha ibikoresho cyangwa ibicuruzwa bigiye bitandukanye, kuri murandasi, zigiye zifite uburyo bwo kwerekana aho ibicuruzwa umuntu yaguze byaturutse, kugira ngo nimba agize ikibazo, ashobore kuba yabasangayo, bakiganireho.

Mu kugura cyangwa kugurisha ukoresheje ikoranabuhanga, hariho uburyo bugiye butandukanye aho ushobora guhamagara umuntu ushobora kukuzanira cyangwa kohereza ibicuruzwa byawe aho bikenewe kandi akabibagezaho ku gihe.

Abantu benshi bakunze kugura ibicuruzwa, cyangwa bakabyohereza bakoresheje ikoranabuhanga kuko babyishimira cyane, bibageraho byihuse kandi bitabagoye bitagombereye ku gutuma bahagarika imirimo bari barimo.

Mu mujyi wa kigali hakunze gukoreshwamo kugura cyangwa ukagurisha, ukoresheje ikoranabuhanga ngo kuko hari imihanda myinshi kandi hari n'amapikipiki yabugenewe yo kohereza ibicuruzwa umuguzi yaba yaguze bikamugeraho mu gihe kandi byoroshye.

Kugura ukoresheje ikoranabuhanga cyangwa ukagurisha ni igisubizo kuko hari aho ushobora kujya kugura ibicuruzwa ukabona ibiciro byabyo bitakugoye kandi bitagombereye kuba wagenda kuvugana n'umucuruzi wowe ubwawe, aho wahasanga nk'imineke, ibirayi, ibijumba cyangwa ibindi bicuruzwa byose waba ukeneye.

Ku mapikipiki agiye atandukanye yohereza cyangwa akazana ibicuruzwa bikoreshwa kuri murandasi, hakunze kuba hariho udukapu inyuma dufite nimero z'abakoresha izo gapikipiki kugira ngo abagikeneye mu izindi serivisi mugomba kubahamagarara.

Mu maduka menshi atandukanye atanga serivise z'umurongo wa MTN bakunze kuba bafite aho abakiriya bicara mu gihe barimo barahabwa serivise zijya zitandukanye nk'uko babyifuza kandi bakabibakorera vuba.

Uko ikoranabuhanga rigenda ryiyongera, ni ko hagenda haza uburyo bugiye butandukanye, aho ushobora kugura ikintu cyangwa ukakigurisha utagombye guhaguruka aho uri, ukabikorera kuri murandasi yawe ukoresha.

Kohereza cyangwa kwakira ibicuruzwa ukoresheje ikoranabuhanga, ni bumwe mu buryo bukoreshwa n'abatari bakeya, aho bagiye bashyiraho amapikipiki bakodesha cyangwa biguriye bo ubwayo agomba gukora icyo gikorwa.

Henshi mu gihugu hashyizweho amapikipiki agomba kugeza ibicuruzwa kuri buri muntu watumije ikintu akoresheje ikoranabuhanga cyangwa murandasi yiwe kugira ngo akibone kihuse kandi akibonera ku gihe.

Hari ibikoresho by'ikoranabuhanga biba byibitsemo ubwabyo kuba byakoreshwa ahantu uherereye nabyo byifashishwa n'abantu bari gukoresha amapikipiki bakuzaniye ibikoresho waguze ku ikoranabuhanga bityo bigatuma bakugeraho kandi batagiye kuyoboza.

Amandazi y'urwibutso ni amwe mandazi akunzwe n'abatari bake kuko aryoha cyane kandi akunzwe mu ngerinzose yaba abana cyangwa amakuru rero ayo mandazi ukuze kuyasanga ku mbugankoranyambaga zigura cyangwa zikanagurisha bikoresheje murandasi.

Amaduka menshi acururiza kuri murandasi akunze gushyiraho ibikorwa byabo, nk'aho twavuga nk'acuruza inkweto ukavuga igiciro k'inkweto waba uri hanze y'umujyi wa Kigali mu gihugu cy' u Rwanda ukaba wakongeraho inote y'igihumbi cyonyine bakaba babikugezaho.

Kuri murandasi aho ugura cyangwa ukagurisha ibicuruzwa ukunze gusangaho ibikoresho by'ikoranabuhanga cyangwa imyambaro waba wifuza kugura cyangwa kurangura kandi ukabibona mu buryo bworoshye ukoresheje murandasi utagombereye kuva aho uri kandi ukabibonera ku gihe.

Ikoranabuhanga rikunzezwe gukoreshwa mu kugura cyangwa kugurisha ibintu bigiye bitandukanye bakunze kuguriraho ibintu bikozwe mu nyama aho ukunze kubona ibicuruzwa biribwa ku giciro cyiza kandi gihendutse bakabikugezaho aho waba uherereye hose.

Benshi mu baturage bakunze gukoresha kugura no kugurisha ukoresheje ikoranabuhanga, bakunze kwishimira uburyo amapikipiki abagezaho ibicuruzwa byabo nk'uko bari babitumije, kandi bikaza bikimeze neza nkuko byaturutse aho byari bivuye.

Imbuga nkoranyambaga zifashishwa mu kugura cyangwa kugurisha hakoreshejwe ikoranabuhanga zigiye zifite ibyicaro aho bashyira ibicuruzwa biba bafite iryo koranabuhanga ryabo abakiriya bashobora gusaba bakaba babona kandi aho hantu hakaba hateguye neza afite n'isuku.

Kugura no kugurisha ukoresheje ikoranabuhanga ukunda gusangaho serivise zigiye zitandukanye, aho ushobora gusangaho serivise zishobora gukoreshwa mu minsi mikuru aho abantu bizihiza amasabukuru yabo, cyangwa indi minsi yose nk'umunsi wo gutangira umwaka cyangwa kwizihiza isabukuru y'umwami n'umukiza ku bantu bizihira yezu kirisitu.

Hari amapikipiki yashyizweho n'imbuga abantu bajya kuguriraho ibyo bifuza yaba imyenda cyangwa ibyo kurya bakaba babibagezahoho mu buryo bwiza kandi bwihuse kugira ngo babibonere mu gihe.

Ku ikoranabuhanga ukunze gusangaho ibicuruzwa bigiye bitandukanye aho abo bacuruzi baba babishyizeho ndetse bakanashyiraho inimero ubwo ushobora kuba wabahamagaraho cyangwa izindi mbugankoranyambaga baba bakoresha kugira ngo muvugane bakugezeho ibicuruzwa wasabye.

Ikoranabuhanga ryaje ari igisubizo aho ushobora kugura cyangwa ukagurisha igicuruzwa utavuye aho uri kandi mu buryo bukorohaye kandi buri muntu akaba yakibona bitamugoye.

Henshi ku ikoranabuhanga aho ugura cyangwa ukagurisha ushobora gusangaho inimero z'umuntu waguzeho igicuruzwa cyangwa uwo ushaka kucyohereza, kandi ushobora no gusangaho inimero z'abo watabaza mu gihe ibicuruzwa byawe byaba bitakugezeho.

Amapikipiki yagiye ashyirwaho yo kohereza cyangwa kwakira ibintu byaguriwe ku ikoranabuhanga, akunze kuba afite isuku kandi afite n'udukapu inyuma dushyirwamo ibintu baba babahaye ngo babigeze ku bakiriya babiguze.

Ikoranahanga ryifashishwa mukugura cyangwa kugurisha ibikoresho cyangwa igicuruzwa hifashishijwe ikoranabuhanga rikunze kuba rifite ibikorwa bitandukanye muri byo, aho buri muntu ufite bizinesi yakwisanga ndetse n'umuguzi ukeneye kugura akaba yahitamo uburyo ashaka kugura cyangwa igicuruzwa ashaka kugura ubwoko bwacyo.

Ku mbuga nkoranyambaga zikoresha mu kugura cyangwa kugurisha ibicuruzwa, dukunze gusangayo ibicuruzwa bikunze gukoreshwa n'abakobwa bikongera ubwiza bwabo, cyangwa kwita ku mpu zabo kugira ngo base neza.

U Rwanda nk'igihugu kiri mu nzira y'amajyambere, cyashizeho y'uburyo bwo kuba wagurisha cyangwa ukagura igicuruzwa wibereye iwawe, cyane cyane mu migi, aho usanga abaturage bakoresha ikoranabuhanga ku rwego rwo hejuru.

Benshi mu kugura cyangwa mu kugurisha ukoresheje ikoranabuhanga usangaho ubusobanuro bw'ukuntu ibikoresho cyangwa ibicuruzwa waguze bizakugeraho aho bakubwira yuko ntanikiguzi uzigera bigusaba ku kintu cyose wagura kuri urwo rubuga.

Benshi mu baturage cyangwa abaguzi bakunze gukoresha ikoranabuhanga bagura ibicuruzwa, bakunze kwishimira uburyo ibicuruzwa bibageraho mu gihe gitoya ugereranyije n'uko bakabisanze aho biba byakorewe.

Amapikipiki yabugenewe yo kohereza ibicuruzwa ku mukiriya biba byaguzwe cyangwa byoherejwe ku mukiriya wabisabye, yikoreshejwe ikiranabuhanga hari ubukapu baba bahetse aho bashyiramo ibyo bicuruzwa kugirango bitangirika.

Hari amapikipiki yabugenewe, n'inganda zigiye zitandukanye cyangwa amaduka agiye atandukanye, aho bohereza ibicuruza kuri buri mukiriya wese waba ubyifuza, aho bafite abakozi babugenewe, baba bambaye amakasike akenshi akunze kuba asa umutuku, bagiye kohereza ibicuruzwa kuri buri mukiriya wabisabye.

Abacuruzi benshi bakunze gukoresha murandasi bagurisha cyango bohereza ibicuruzwa byabo ku bakiliya babo bagashyiraho na nimero n'aho basanga ibyo bicuruzwa byaturutse ku giciro kiza kandi kinogeye buri muntu.

Mu kugura cyangwa kugurisha hifashishijwe ikoranabuhanga, hakunze kugaragaraho ibikoresho bikoreshwa mu bihugu byo hanze. Kandi bikaba biri ku giciro cyo hasi ugereranyije no ku yandi masoko agiye atandukanye ari hirya no hino mu gihugu.

Mu kugura cyangwa kugurisha ukoresheje ikoranabuhanga ukunze gusangaho harimo uburyo bwo kwamamaza, aho bashyiramo abayobozi bashobora kuzatorwa mu myangi itandukanye mu gihugu, bakaba bakwiyamamariza kuri izo mbuga zigura cyangwa zigagurishirizwaho ibikoresho bigiye bitandukanye.

Abazungu ni bamwe mu bantu batangiye bakoresha kugura cyangwa kugurisha ukoresheje murandasi, bityo babizanye ku mugabane wa afurika kugira ngo nabo biteze imbere kandi babone agatubutse, imiryango yabo.

Hari amapikipiki yaguzwe ari ayo gutwara abangenzi, ariko nyuma akaza guhindurirwa ibyo yakoraga, kuko amafaranga yabaga mu gutwara abagenzi adahwanye n'amafaranga baha umuntu arimo aratembereza ibintu, abijyana ahantu hamwe cyangwa ahandi bari bamutumye ibicuruzwa baguriye kuri murandasi.

Mu kugura cyangwa kugurisha yakoresheje ikoranabuhanga bagiye bashyiraho abakozi bagiye batandukanye bageza ku bantu ibicuruzwa byabo aho ushobora gusanga umukozi wambaye agakapu ndetse ari no kwigare ajyaniye umuguzi ibigurishwa byiwe aba yaguze.

Mu kugura cyangwa kugurisha ukoresheje ikoranabuhanga, hari uburyo bwashyizweho, aho umuntu ashobora kugura amatike y'ibitaramo by'abahanzi akunda, atagomye kujya aho amatike arimo aratangirwa mu ntoki, ahubwo akayagura ku ikoranabuhanga, bityo bigatuma bidahagarika ibikorwa bye mu gihe abyifuza.

Amaduka menshi akunze gukoresha uburyo bwo gucuruza ukoresheje ikoranabuhanga ku buryo umuntu ajya gushaka ibikorwa byabo, ibyo bacuruza ku ikoranabuhanga bakabibona n'ibiciro byabyo kandi bakavuga n'ingano bakeneye bakaba bayibaha batiriwe babageraho na bo bakabyohereza kuri zamapikipiki.

Ku ikoranabuhanga ushobora kuguriraho ibicuruzwa bigiye bitandukanye yaba ibiribwa cyangwa imyambaro mu buryo bworoshye kandi bakabikugezaho utavuye aho uri mu buryo bwihuse.

Hari uburyo bugiye butandukanye aho umucuruzi ashyiraho uburyo bwo kugeza ho abakiriya biwe ibicuruzwa basabye bitagombye kuba umukiriya yava i we, aza ku iduka kandi bikamugereraho ku gihe.

Hari amasoko agiye atandukanye, akorera ku ikoranabuhanga, aho ushobora kugura cyangwa ukagurisha ukoresheje murandasi, ahenshi hakunze kwerekana aho bakorera mugihe waba ugize ikibazo, ukaba wahabasanga kandi bikaba bitakugoye.

Nubwo igitsinagore atari cyinshi mu batwara cyangwa mu bageza ibintu ku bandi baba babitumijeho bakoresheje ikoranabuhanga, ariko barimo abakobwa ukunze gusangamo cyangwa igitsina gore, muri uwo mwuga wo gutwara ibintu babigeza ku bantu baba babisabye.

Gukoresha ikoranabuhanga ugura cyangwa ugurisha byageze ahantu henshi aho ushobora kugura cyangwa ukagurisha ibicuruzwa byawe bitagombereye kuba wahaguruka aho uri ngo uge kwamamaza ahubwo ugakoresha murandasi wamamaza ibikorwa byawe ubikeneye akabigura kandi akabibona mu buryo bumworoheye.

Mu kugura cyangwa ukagurisha ukoresheje ikoranabuhanga, hari igihe ushobora kujya kugura igicuruzwa, ugasanga cyaguraraga menshi hanze, ariko bakerekana amafaranga agura, kigurwa hanze, nayo kirimo kiragurwa ku ikoranabuhanga, ugasanga ikoranabuhanga ntirihenze, ugereranyije n'andi maduka akora, badakoresheje ikoranabuhanga.

Ku maguriro y'ikoranabuhanga hakunze kubaho ibiribwa, aho usangamo nk'imbuto cyangwa inyanya n'imboga bikunze gukoreshwa mu gikoni ku buryo ushobora kubigura bitagombye kuba wajya mu isoko, ukaba wakoresha amafaranga utega, ahubwo bakaba bo babikugezaho kandi mu kubikugezaho bakabikuzanira ku buntu kandi mu gihe gitoya.

Amapikipiki menshi yifashishwa mu kuba yageza ibicuruwa abantu baba baguriye ku ikoranabuhanga, akunze kuba atwawe akenshi n'igitsina gabo, ni cyo cyiganje mu batwara ibyo bintu, babigeza ku bandi.

Imbugamkoranyabaga zitandukanye bakunze kwifashisha bagura cyangwa bagurisha ibicuruzwa bigiye bitandukanye bakunze kuba bafite amapikipiki menshi, ndetse n'abakozi benshi bayakoresha aho baba bahetse, ibicuruzwa baba bagiye kohereza ahantu haba hatandukanye.

Mu buryo bwo kugura no kugurisha ukoresheje ikoranabuhanga, hari uburyo bwashyizweho. Aho ushobora kuganira n'umuguzi, ibyo yifuza n'uko abyifuza n'ingano yabyo. Kandi mukaganira mu buryo bwigenze nta muntu ubakurikiranye.

Imbugankoranyambaga ni kimwe mu bisigaye bifasha umuntu gutumiza ikintu akeneye atavuye iwe mu rugo, ibyo byaje ari nko gufasha abantu mukuborohereza hari igihe baba bari mu mirimo yabo itandukanye isanzwe basanzwe bakora barangiza bagatumiza ikintu bakeneye kikabageraho batavuye aho bari.

Bamwe mu rubyiruko babonye akazi bitewe no kugura cyangwa kugurisha ukoresheje ikoranabuhanga, kuko nibo bageza ibicuruzwa biba byasabwe ku bakiliya ku mapikipiki yabo biguriye, bakorere amafaranga atari makeya mu kubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abaturage benshi bakunze gukoresha, kugura cyangwa kugurisha ukoresheje ikoranabuhanga, bakunze kuba bibereye mu ngo zabo batagombye kuba bajya aho ibyo bicuruzwa bicururizwa cyangwa kujya kubicururizayo bakaba babicuruza ku ikoranabuhanga bakabiha amapikipiki akabigeza aho byagenewe kuba byagera.

Nk'uko ikoranabuhanga rikomeza kugenda rizamuka mu ntera, benshi ku isi bakunze gushyiraho uburyo bwo kohereza ibicuruzwa byabo mu bindi bihugu, kandi ababyohereza bakaba bari muri ibyo bihugu batagombye kuba bajya mu kindi gihugu, kugira ngo bamamaze ibikorwa byabo nko muri iki gihugu ngo babibone.

Mu kugura cyangwa kugurisha ukoresheje ikoranabuhanga hashyizweho uburyo ibigo bitandukanye rwohereza abakiriya mu kuba babona ibicuruzwa batiriwe bajya kure urutonde aho ushobora kwandikamo izina ry'igicuruzwa ukeneye ugahita ukibona

Amapikipiki yabugenewe mu kohereza cyangwa kugeza ibicuruzwa kuri buri mukiriya wabiguze, akunze kuba afite udukapu inyuma aho bashyira ibicuruzwa bagiye kohereza ku mukiriya wabo kugira ngo bitangirika.

Mu mujyi wa Kigali nk'ahantu hari abaturage benshi bakoresha ikoranabuhanga ku rwego rwo hejuru kandi baba badafite umwanya munini wo kuba bajya ku masoko, niho hantu hakoreshwa cyane kugura no kugurisha ku ikoranabuhanga nk'ahantu h'umujyi mu Rwanda rwose.

Ku mbuga zikoreshwa mu kugura cyangwa kugurisha ibicuruzwa, hari abacuruzi bakoresha izo mbuga, bakaba bafatwa nk'abafatanyabikorwa b'ingenzi cyane kuri urwo rubuga, kuko ni bo bashyiraho ibikoresho bikoreshwa kuri urwo rubuga, kugira ngo babigure.

Uburyo bwo gucuruza ukoresheje murandasi bwashyizwe ku rwego rwo hejuru, ku buryo ushobora kugura impano, ukayoherereza inshuti yawe cyangwa umuryango, utiriwe uva aho uri kandi na bo ukayiboherereza bitari ngombwa yuko mwaba mugiye guhura, ukayiboherereza, bakayibagezaho.

Amaduka agura cyangwa akagurisha akoresheje murandasi akunze gukorana n'imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye aho bajya ku byicaro by'izo mbuga nkoranyambaga, bakaba baganira nazo ku mikoranire yabo kugira ngo bamenye uburyo bazakorana kandi bunogeye buri umwe hatazagira ushwana n'undi.

Henshi hagiye hatandukanye mu kugura cyangwa kugurisha ukoresheje ikoranabuhanga kuri murandasi yawe, hakunzwe gukoreshwa uburyo bwo kuba wagura igicuruzwa uri mu gihugu kimwe ugikura mu kindi gihugu, utagombye kuba wava aho ngaho utega indege ujya gushaka icyo gicuruzwa, ahubwo hakaba hari abakikuzanira kandi bakakikuzanira ku kiguzi gitoya.

Hari bamwe mu nshuti ziwe zikunze gukoresha uburyo bwo kugura cyangwa kugurisha ibibanza, batangiye kuba baduhamagara bakaba watubaza ati: '' Icyo kibanza ufite cyaba giherereye hehe?'' Kandi nizeye yuko bashobora kukibona mu gihe kitarenze ukwezi kose kandi ibyo ngibyo biterwa nuko tuba twagiye mu buyobozi bugiye butandukanye.

Bamwe mu baturage bashoye mu kuba bagurisha cyangwa kugura ibibanza, kungiciro gitoya bakabigurisha ku giciro kinini. Bakunze kwishimira uburyo reta ibahamo ibyangombwa by'ubutaka ku buryo bagurisha ubwo butaka ku buryo buboroheye.

Henshi mu modoka akeye atandukanye yishimiye mu kuba abantu benshi baragiye mu buryo bwo gucuruza cyangwa kwakira ubutaka ku buryo basigaye bita komisiyoneri konsantere, muri ubwo buryo dukunze kubonekamo bamwe mu banyarwanda bakunze kubabwira ati mujye iburyo ntibajye iburyo, iburyo hindukira.

Hari abantu benshi bakunze gukoresha ikoranabuhanga aho bagurisha, cyangwa bakagura ifaranga aho hari ifaranga rikoreshwa mu kugura cyangwa ibintu mu gihe waba wakurikiye ukaba wabihabwa, amafaranga akaba akoreshwa nkuko waba ufite amafaranga mu ntoki.

Benshi mubakoresha amasoko agiye atandukanye mu mujyi wa Kigali bakunze kwishimira uburyo utujyi dutoya dukunda kumanura ibiciro ugereranyije n' abandi baba bakodesheje ibibanza nk' uko...

Abaturage benshi bakunze kwishimira serivse leta ibagezaho, aho bashobora guhabwa inyemezabwishu, mu gihe baba bayikeneye cyangwa igihe baba bagiye kuyikoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Benshi mu bantu bagiye batandukanye bakunze kwaka aba mituwali mu kuba babona imibabare cyangwa indi nimero mu kuba bakwandika izina ry'umuntu kandi bakaba waramwanditse nka mbere undi mu baje bwa mbere natubwire izina ryiwe mu mwandiko, uwitwa umukundwa jean marie vianney mwandike kandi tuzi yuko ukora ibintu byibyiwe neza kandi.

Hari benshi mu baturage bakunze kwishimira serivisi z'abantu bagiye batandukanye mu maduka agiye agurishwa ikinyobwa cyangwa iguhisha imiti yo kwivuza aho boza amenyo, amenyo bakagenda asanga nk'akanyange.

Amaduka menshi akomeye mu gihugu akunze kuba afitemo ibiribwa cyangwa ibinyobwa bisembuye, aho ukunda gusangamo ibiribwa bigiye bitandukanye byo mu bihugu bigiye bitandukanye ku isi hose, aho ushobora gusanga ibinyobwa cyangwa ibiribwa utasanze mu maduka yandi y'abakiriya baciriritse.

Hari amaduka agiye yubatswe muburyo butandukanye aho ushobora kwangaja umujeniyeri ufite ubwenge butari hejuru bitewe n'ikigo yizemo ariko nyuma yaho wafata umwana wize mu bigo bikomeye akaba yakwereka uburyo inzu yawe yakubokwa kandi bitagusubije inyuma mu buryo bw"amafaranga cyangwa ubundi.

Ku maduka agiye atandukanye, aho bacururiza ibiribwa biribwa n'abantu mu gihe baba babonye akaruhuko, bikunze kuba harimo ibintuza biryohereye cyangwa ibisembuye ukaba wabifata.